Umumama wambaye igitenge ndetse n'umupira w'amaboko yambaye ingofero mu mutwe. Akaba yaje kuvoma amazi meza ku ivomero rusange ryubakiwe abaturage badafite amazi mu ngo zabo, mu rwego kugira ngo nabo babone amazi meza.

Izi ni imodoka ebyiri kandi ndende ziri mu cyerekezo kimwe, izi modoka zikaba ari iz'ikigo cyita ku buzima. Zishyiriye ibyo kurya abaturage bafite ubuzima ndetse n'ibibazo by'amikoro.

Iki ni igikorwa cyiza cyane leta yakoze kugira ngo abana bakiri bato bagire ubuzima bwiza, aho babashakira ifu ifite intungamubiri, maze bakagenda bakabatekera igikoma, bakabasanga aho batuye, bakakibaha, bakakinywa.

Abantu baje kuvoma amazi ku ivomero rusange. Hari umumama ufite indobo, akaba amaze kuvoma yuzuye. Hari n'undi uri inyuma uri kumuzamurira, ariko warangaye. Aya mazi Leta yayegereje abaturage kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Umwana muto wambaye agashati k'icyatsi kibisi ndetse n'agakabutura ari kuvomero rusange, yamaze kuvoma amazi mu ndobo akaba ari gukaraba intoki, ni byiza ko aya mazi asigasirwa kuko atuma abaturage babaho bazira umwanda.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe bakaba bari mu nama, aho bari kwiga ku bibazo bigiye bitandukanye byugarije ubuvuzi, imbere yabo hakaba hari ameza arambuyeho igitambaro cy'icyatsi kibisi, ndetse hakaba hari n'ibirahure birimo umutobe w'inanasi bari kunywa.

Aba ni abana bari gukaraba intoki, bari kuzikaraba baseka uko ari bane, hakaba hari umupapa wambaye bote n'agapira k'ubururu, ufite igikombe cy'amazi mu ntoki, uri kugenda ubasukira ndetse anabatoza umuco w'isuku.

Umwana muto cyane wambaye agapira ka oranje hakaba hari umugabo uri kumukorera urujerekani runini. Uru rujerekani rukaba ruriho akapa kanditseho Unicef, inyuma ikirere kirasa ubururu ndetse n'umweruru.

Uyu ni umuntu uri gutanga amahugurwa ku bijyanye n'ubuzima ndetse akavuga ko hakenewe ubufasha ndetse n'ubuzi kugira ngo ubuzima bukomeze kugenda neza. Yambaye ikote ry'umukara na karuvati ndetse n'amarinete.

Leta y'u Rwanda yafashe ingamba zo kwegereza ndetse no guha abaturage ubuzima bwiza. Aha turi kuhabona abaganga bambaye impuzankano, bakaba bari gukingira abaturage uburwayi bw'icyorezo.

Umugabo uri kuvoma wambaye ishati ndetse akaba yateza ijerekani. Ni ivomero ririho amarobine ane, rikaba rikikijwe n'ibimera bitanga umuyaga ku bantu baje kuhavomera. Aya ni amazi Leta y'u Rwanda yegereje abaturage kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Abaganga bita ku buzima bw'abantu kandi bakaba bishimye aha. Aha turi kubona umubyeyi uteruye mwana mu ntoki, umuganga wambaye impuzankano y'umweru akaba afite urushinge mu ntoki agiye gukingira uyu mwana.

Umwana w'umukobwa wambaye akajipo ndetse n'agashati by'igitenge, ni umutuku hakabamo n'utubara tw'umuhondo ndetse n'umukara, ari gukaraba intoki kuri robine, aho amazi amaze gukaraba ajya mu ibase, inyuma ye hakaba hari urukuta rwubakishije amatafari manini.

Abana babiri bicaye munsi y'ikigega, bari koga intoki ndetse bigaragara neza yuko ari umuco batojwe kuko barabyishimiye. Koga intoki bituma umuntu atahura n'indwara zituruka ku mwanda.

Aba ni abaganga bateraniye ahantu hamwe, imbere yabo hari ibitabo buzuzamo raporo z'akazi, bari kureba ku makarine y'abarwayi maze bakayuzuza neza, abarwayi bagomba kwitabwaho kugira ngo abaturage barusheho kugira ubuzima bwiza.

U Rwanda ni rumwe mu bihugu byegereza serivise z'ubuvuzi abaturage barwo, aha ngaha turikubona umuganga wambaye impuzankano y'umweru, ari gutera urukingo umwana muto cyane.

Leta y'u Rwanda yashyize imbaraga mu gukingira abaturage indwara z'ibyorezo, aha uyu mugabo wambaye agapfukamunwa ndetse n'uyu muganga na we wambaye agapfukamunwa yari arimo amuha urukingo rw'icyorezo cya Kovide cumi n'icyenda.

Aba ni abantu bari mu mahugurwa, biganjemo abajyanama b'ubuzima ndetse n'abaforomo. Aho bari guhugurwa uburyo bavura abantu kandi bakabikora kinyamwuga, harimo umupapa w'umuzungu uri gutanga amahugurwa n'undi mugabo uri inyuma uri kubafotora.

Aha ni ahantu nyaburanga hubatswe na leta, mu rwego rwo kugira ngo ubuzima bwa muntu, bukomeze gutera imbere. Ni ahantu hubatse hazengurutse. Hakaba harimo amazi meza. Hari inyubako nziza cyane, yubakishijwe amatafari ahiye, isize amarange ku nkuta ndetse isakajeho amabati y'umutuku.

Abana babiri bose bambaye udushati tw'umutuku, umwe afite igikombe ari gusukira mugenzi we ngo akaraba intoki, ni byiza ko twoga intoki kugira ngo twirinde indwara izo arizo zose ziterwa n'umwanda.

Umwana wambaye agashati ka kake ndetse n'ikabutura ya oranje, afite ijerekani y'umuhondo yayiteretse ku ivomero rusange ari kuvoma aseka, kera Leta itarabegereza amazi byabasabaga kujya ku mugezi.

Aha ni mu bitaro kwa muganga, hakaba harimo umwana uryamye hasi, abaganga bari kugerageza kumwitaho kuko yarembye cyane, mama we ari kumureba akagira ubwoba kuko uyu mwana aho ageze ni ah'Imana.

Iri ni ivomero rusange turi kuhabona utwana tune twaje kuvoma, twazanye utujekani duto cyane tungana nk'uko bangana, inyuma yabo hari umukobwa w'umuzungu uri kubabazamurira amazi, hirya hakaba hari imodoka ndetse n'ibiti.

Aba ni abantu benshi cyane bateraniye ahantu hamwe, nk'uko bigaragara habaye igikorwa cy'ubukangurambaga ndetse no kugira inama abantu uko basigasira ubuzima bwabo, hakaba hari ihema riri gusuzumirwamo abantu bagiye batandukanye.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe. Leta y'u Rwanda yafashe ingamba zo kugira ngo iteze imbere ireme ry'ubuvuzi, maze abaturage bagire ubuzima bwiza. Aha turi kuhabona abajyanama b'ubuzima bari kuzuriza amafishi ababyeyi kugira ngo bakingize abana babo.

Umumama waje gusuzumisha akana kiwe ku mujyanama w'ubuzima. Umujyanama ari kukitegereza akakareba mu maso akabona gasa nk'akanegekaye, yarangiza akabyandika. Uyu mujyanama bigaragara ko ari bumuhe imiti.

Uru ni urubyiruko ruri aha rukaba ruri gufata ifoto y'urwibutso. Hari habereye igikorwa cyo gusigasira ndetse no kwibuka Umunsi Mpuzamahanga wahariwe kumenya ubuzima bw'abana.

Aba ni abantu benshi cyane biganjemo abana bari ku ivomero rusange rifite amarobine abiri, robinea yo hepfo ndetse n'iyo ruguru zose ziri kuzana amazi hari umupapa uri kubavomera.

Izi ni inzobere mu bijyanye n'ubuvuzi zaturutse hirya no hino ku Isi, zikaba ziri kwita ku kibazo kijyanye n'ubuvuzi barebera hamwe uburyo bawuteza imbere, bityo abaturage bakabona serivisi z'ubuvuzi mu buryo buboroheye.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe, bakaba bari kwiga ku bibazo bigiye bitandukanye ndetse n'uko bageza ubuvuzi ku baturage. Harimo abafite mudasobwa imbere yabo ndetse n'abandi bafite amakayi, bose bari kungurana ibitekerezo.

Umwana muto wambaye agashati ka gisirikare ndetse n'ikabutura itukura. Arigutega ibiganza ku ivomero rusange maze akanywa amazi akoresheje ibiganza. Ibi si byiza.

Inyubako y'ikigo nderabuzima ikaba irimo urujya n'uruza rw'abantu, harimo abakuze ndetse n'abakiri bato, hakaba umwana w'umukobwa ukiri muto wicaranye na mama we, aha bakaba bategereje abaganga ngo babahe serivisi baje gushaka.

Aha ni ahantu hateraniye abantu benshi, bakaba babazaniye ibyo kurya biri mu mifuka, bari kubiterura, abadamu bari guterura ndetse n'abagabo bagaterura, mu rwego rwo kugira ngo ubuzima bugende neza, agomba kubona ibyo kurya.

Umumama wambaye agapira k'umweru ateruye umwana muto wambaye agapira ka oranje, imbere ye hakaba hari umusore wambaye agapira ka oranje ndetse n'amarinete, akaba ari kumunywesha ku mata, mu rwego kugira ngo amuremere ubuzima.

Inyubako y'ivuriro ikaba iriho abantu imbere bari kwifotoza harimo abaganga hakabamo abaturutse mu ma minisiteri y'ubuzima ndetse n'abaje bahagarariye ibigo bigiye bitandukanye n'inyubako ifite irangi ry'ubururu ndetse n'umweru.

Aba ni abantu benshi cyane bateraniye hamwe, bakaba bari mu nama mpuzamahanga iri kuganira ku bijyanye n'ubukungu mu buvuzi, hakaba hariga uri imbere uri gutanga imbwirwaruhame, ufite indangururamajwi camera zimureba.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe, bakaba bari kugenda biga ku bibazo bimwe na bimwe byugarije ubuvuzi ndetse n'ubuzima muri rusange aho baganira bagahana ijambo maze bagafata imyanzuro ihamye.

Abana batatu bari kudaha amazi mu mugezi aba bana nkuko bigaragara bari kudaha bafite ubwoba kuko bashobora kugwamo ibi si byiza kuko leta y'u Rwanda ihora ishaka kubica uko bukeye n'uko bwije.

Aha ni ahantu hagenewe kujugunywa imyanda mu rwego kugira ngo abaturage bagire ubuzima bwiza. Ni inzu nziza ariko zibika imyanda, aha rero nawe ufite imyanda wayihazana kugira ngo iwawe uhasukure maze ugire ubuzima bwiza.

Igishushanyo cy'umubumbe w'Isi gicigatiwe n'ibiganza bibiri, ikiri mu ibara ry'ubururu n'ikiri mu ibara ry'icyatsi kibisi, aha bakaba bagira bati '' twese hamwe nk'abatuye Isi dusigasire ubuzima''.

Aba ni abantu benshi cyane bateraniye ahantu hamwe, bakaba bari guhabwa amahugurwa ndetse bagirwa n'inama ku bijyanye n'ubuzima, uko bakwirinda, uko bakwivuza ndetse n'uko bakwikingiza.

Aba ni abagabo babiri bambaye amakote y'imikara, umwe akaba afite ibitabo mu ntoki, bari gusuhuzanya, bakaba bagiye mu nama nyunguranabitekerezo, yiga ukuntu bateza imbere ubuvuzi.

Abantu benshi cyane bamwe baricaye abandi barahagaze, bose bari kwifotoza. Bamaze gutanga amahugurwa ndetse no gusobanurira abaturage ko bagomba kugira ubuzima bwiza, maze bari gufata ifoto y'urwibutso.

Aba ni abantu benshi cyane higanjemo abana, bakaba baje kuvoma amazi ku ivomero rusange bubakiwe na leta. Aho hari umugabo urimo uzamura icyuma cy'inyuma, maze amazi akaza, bose bakabireba bikabanezeza.

Aba ni abantu bari gusuhuzanya, nyuma y'igikorwa gikomeye bamaze gukora cyo gusinyanya ubufatanye mu bijyanye n'ubuvuzi. Ni abagabo bambaye amakoti, bose bakaba bambaye karuvate n'amabaji mu ijosi ndetse imbere yabo hari abandi barimo n'umuzungu.

Abana benshi cyane baje kuvoma amazi ku ivomero rusange, harimo abazanye ibibindi ndetse n'abandi baje baje kwirebera uko iri vomero rikora, hari umwana uri kuvoma ndetse hari n'undi uri kumuzamurira amazi.

Leta y'u Rwanda yegereje abaturage ubuvuzi bw'amenyo. Aha bubatse ihema. Aho abaturage bakora umurongo maze ugezweho akicara hasi, abaganga bari hano b'inzobere bambaye impuzankano z'ubururu, bakamusuzuma. Urwaye bakamuvura.

Ubuvuzi buboneye bwemejwe ko bigomba kugera ku bantu bose. Aha hari umuganga uri gusuzuma umusaza wicaye ku ntebe, kugira ngo arebe ko nta muvuduko w'amaraso afite.

Umwana ndetse na mama we bose barishimye, bakaba bari ahantu heza kandi hari ibimera ndetse inyuma yabo hari urukuta, umwana iyo abanye na mama we bituma agira urukundo.

Ibiganza byambaye uturindantoki tw'ubururu bifite urusinga mu ntoki, ni byiza ko twirinda indwara mbere y'uko zitugeraho. Abaganga bahora bambaye uturindantoki mu rwego rwo kwirinda indwara.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe, hakaba harimo n'Idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda. Hakaba hari umugabo wambaye ikote ry'umukara wicaye ku ntebe nziza. Bigaragara ko ari we uri gutanga igitekerezo cyiwe.

Abana babiri bato, baje kuvoma amazi ku ivomero rusange, bazanye indobo ndetse bose bari guseka, bavoma amazi, inyuma yabo hakaba hari ibiti byiza bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Aba ni abaganga, bambaye impuzankano y'umweru mo hagati harimo umuzungu wambaye ikanzu itukura, bakaba bari kwifotoreza mu kirongozi k'ivuriro aho bamaze guhugurana uko bakwiye kuvura abarwayi.

Abantu benshi cyane bateraniye ahantu hamwe harimo abagiye bizanira udutebe. Hari ihema ryatewe hafi aho ngaho. Nk'uko bigaragara aha harigutangirwa amahugurwa ajyanye n'ubuzima ndetse n'ubuvuzi. Abantu na bo barigusobanukirwa ndetse bamwe barikubaha n'inkingo.

Uyu ni umuganga yambaye uturindantoki tw'umweru, afite urushinge rurimo umuti akaba ari kurutera mu kuboko k'umuntu. U Rwanda rwateje imbere ubuvuzi aho bakingira indwara z'ibyorezo zigiye zitandukanye.

Aha ni kwa muganga hakaba hari umubyeyi uteruye akana ke, muganga wambaye impuzankano y'umweru ndetse n'udupfukantoki tw'umweru, akaba arimo avura aka kana nako gashinyiriza.

Umwana muto cyane wambaye agakanzu ko mu gitenge, afite icupa rirerire ry'amazi, akaba ahagaze imbere ya robine ari gushaka kuvoma amazi ngo yinywere, mu Rwanda ubuzima bwaroroshye aho n'umwana ajya kuri robine akivomera.

Uyu ni umubyeyi uvuye kuvoma amazi ku ivomero ryiza ryubatswe kugira ngo abaturage babone amazi meza cyane kandi asukuye, yikoreye indobo atengase n'indi mu ntoki mu rwego rwo kugira ngo ayajyanire rimwe.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe. Bakaba ari abaganga ndetse n'abandi bantu b'inzobere. Aho bari bari kuganira ku kuntu bakwirinda uburwayi ndetse n'uburyo bakwegereza ubuvuzi abaturage.

Abana bato cyane bari kwinywera amazi kuri robine, bambaye impuzankano y'ishuri, bakaba bari kunywa amazi meza Leta yegereje abaturage, mu rwego rwo kugira ngo bamere neza, aba bana barishimye.

Abasore babiri bari mu nyubako nziza cyane bigaragara ko ifite purafo. Abasore bose bari kubwirana inkuru, aho bigaragara ko bari kubwirana ukuntu bateza imbere ubuvuzi, birinda indwara.

Abana biga mu mashuri abanza, bambaye impuzankano z'umuhondo ndetse n'ubururu. Bose basize isabune mu biganza, bakaba bari koga intoki ku ivomero rusange rifite amarobine atatu.

Abaganga ndetse n'abaturage, bahagaze mu ivuriro hagati bari kwifotoza. Nk'uko tubibona, basoje amahugurwa bari barimo y'ibijyanye no gusigasira ubuzima ndetse no kuburinda.

Aba ni abamama ndetse n'abakobwa bahagaze mu nyubako y'ivuriro, bakaba bari kubyina, bashimishijwe n'imyanzuro bahawe y'uko bagiye kujya bahabwa serivise zinoze, kandi bakaziherebwa ku gihe.

Abantu benshi cyane bateraniye ahantu hamwe, bakaba bari kugenda bafata imyanzuro igiye itandukanye yerekeranye n'ubuvuzi bose bafite amakaye imbere yabo ndetse n'amatelefoni, bakaba bafite n'amacupa y'amazi.

Ni byiza ko ababyeyi bita ku bana babo, aha turi kuhabona umupapa uteruye umwana, akaba yaje amuzanye kwa muganga ngo bamukingire, ni byiza gukingiza umwana kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Uyu ni umugabo n'umugore, umugore yambaye aka jaketi k'umukara, umugabo yambaye ishati y'amaboko y'umweru irimo utubara tw'ubururu, bakaba bicaranye n'umujyanama w'ubuzima, wambaye itaburiya, akaba ari kubasobanurira ibijyanye no kuboneza urubyaro.

Umwana muto uri kunywera amazi kuri robine, ni robine iri kuzana amazi make, aho bigaragara ko uyu mwana afite inyota ariko kandi akaba yishimiye n'iri vomero, hakaba hari akapa k'ubururu, kandiditseho amagambo Unicef.

Aba ni abantu bari ku ivomero rusange hakaba hari akana gateze akajerekani k'umuhondo gafite n'akandi k'umweru mu kaboko k'ibumoso, hari undi mugenzi we uri inyuma, ari kumuzamurira kugira ngo avome, imbere yabo hakaba hari ibiti byiza cyane bitanga umuyaga.

Aha ni ahantu heza cyane ushobora gusohokera, warangiza ukahatembera bityo bigatuma ugira ubuzima bwiza, ni ahantu hari amazi meza cyane afite ibara ry'icyatsi kibisi ndetse hakaba hari n'utwuma twiza cyane.

Umumama uteruye umwana, bakaba bari mu mubumbe w'Isi ndetse bakikijwe n'ishaka. Iki ni ikigaragaza yuko Isi ishyize hamwe, igomba kurandura indwara zose z'ibyorezo, abantu bakabaho batekanye kandi bimereye neza.

Aba ni abana bambaye impuzankano iri mu ibara rya kake, bari ku ivomero rusange bafunguye amazi, bamwe bari gukaraba abandi barangaye, amazi akwiye gucungwa mu rwego rwo kugira ngo adapfushwa ubusa.

Aba ni abaganga batandukanye, bambaye impuzankano ziri mu mabara atandukanye, harimo bamwe bambaye umweru ndetse n'abandi bambaye ubururu, bose bakaba bambaye amabaji mu ijosi, bari kumwe n'umuganga w'umuzungu bigaragara ko ari inzobere.

Umwana muto cyane wambaye ishati iri mu turongo tw'uburu ndetse n'umweru, ari guhana ikiganza n'umupapa wambaye agapira k'umuhondo ndetse n'ipantaro y'ubururu akaba afite utuntu mu ntoki, aha rero akaba yitaye kuri uyu mwana bigaragara ko yamwishimiye.

Aba ni abantu bari mu bukangurambaga mu bijyanye no gushishikariza abantu gusigasira ubuzima. Bafite icyapa kiriho ikirango cy'igihugu ndetse ni miniteri yita ku buzima, aho bagira bati umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri.

Abana bato cyane bari mu ishuri bambaye impuzankano, bamwe bambaye ubururu abandi bambaye kake. Inyuma yabo hari ikibaho cyanditseho amagambo. Bakaba bari gufata amafunguro ya saa sita. Ibi ni bimwe mu bituma abana bagira ubuzima bwiza.

Ibiganza bibiri biteze kuri robine, iyi ni robine y'ivomero rusange, uyu ni umuntu uri gukaraba ku ntoki, ni byiza kugira isuku cyane cyane iy'intoki kuko birinda indwara zikomoka ku mwanda.

Abaforomokazi ndetse n'inzobere mu by'ubuvuzi bari gufata ifoto y'urwibutso, bahagaze imbere y'inyubako y'ivuriro ariko hejuru hakaba hariho amagambo agaragaza ko iki ari icyumba cy'inama. Imbere yabo hari icyapa kigaragaza igikorwa bari barimo.

Uyu ni umuganga wambaye impuzankano y'umweru, akaba yambaye umwenda w'ubururu mo imbere yambaye agapfukamunwa k'ubururu akaba yicaranye n'umusore wambaye agapira k'ubururu, aho ari kugenda amusobanurira ndetse anandika ibintu ku rupapuro, hejuru ya bo hakaba hari akapa kagaragaza ngo SIDA iracyahari duhaguruke tuyigabanye.

Umugabo wambaye amarinete ari kugaragara igice cye cyo hejuru, akaba afite imibiri yombi. Uyu mugabo arishimye cyane kandi ari guseka, imbere ye hari amagambo ari kugaragaza ko urukingo rwa Sida ruri hafi kugera mu Rwanda.

Aba ni abantu benshi cyane bateraniye ahantu, hamwe harimo umuzungu hakabamo abirabura bose bahuje ikiganza maze biyemeza kubera ibyiringiro abana bakiri bato.

Iyi ni inyubako iteraniyemo abantu benshi cyane bakaba bicaye bazengurutse, bari gufata ingamba ndetse bari no kwigira hamwe uko bateza imbere ubuvuzi muri rusange.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe, bakaba bari gutegura imbwirwaruhame cyangwa se icyapa bazakoresha ubwo bazaba bari mu gikorwa cy'ubukangurambaga, mu bijyanye no gukangurira abantu gusigasira amagara yabo.

Abantu babiri bateraniye hamwe bambaye imipira y'ubururu ndetse n'ingofero z'umweru, bose bafunze igipfunsi aho bari kugaragaza yuko bahagurukiye gukora ubukangurambaga ku bijyanye n'ubuvuzi.

Umukobwa wambaye agapira gato cyane ndetse n'ijipo y'umukara akaba ateze ijerekani kuri robine ahanga nga rero bavoma amazi meza bakayakoresha bakarushaho kugira ubuzima bwiza nk'uko leta ibyifuza.

Umwana muto cyane ari kunywa amazi aseka. Nkuko bigaragara ari kuyanywera ku ivomero rusange rifite amarobine abiri, rimwe rikaba ari ryo rikora, irindi ntago rikora, ari guseka cyane ku buryo bitangaje.

Umuntu uri gukaraba intoki ku ivomero rusange, akaba ari koga amazi meza cyane kandi atemba, ni byiza ko Leta y'u Rwanda yegereje abantu amazi kuko bibarinda indwara ziterwa n'umwanda.

Aba ni abantu benshi cyane bateraniye ahantu hamwe, bakaba bari kwiga ku bibazo bigiye byugarije Isi, cyane cyane mu buvuzi ndetse n'ubuzima muri rusange, bari kugenda batanga ibitekerezo kandi bihugura.

Aba nii abantu bari kuganirizwa, ku bijyanye n'imikorere y'ubwonko ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe muri rusange, bakaba bicaye babiri babiri, inyuma yabo mu ihema rihubatse hakaba harimo abantu benshi cyane.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe, bari mu ihema ryiza cyane ry'umweru, bakaba imbere yabo bahagaze, hari ibikoresho bigiye bitandukanye biteretse ku meza, ameza akaba arambuyeho igitambaro cy'umukara, bakaba bari gusobanurira abantu ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'imikorere y'ubwonko.

Uyu ni umumama wambaye agapira k'umweru afite imisatsi myiza y'umukara, ateruye akana ke ari kugakinisha, gukinisha umwana ni kimwe mu bituma ubwonko bwe bukanguka bityo bukagira imikorere myiza.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe. Babiri babiri bakaba bari kuganira. Kugira ngo bumve ikigero cy'imitekerereze ndetse n'imikorere y'ubwonko. Akaba bari gusuzuma. Uwo basanze afite ikibazo bamwinjiza muri iyi modoka maze bakamuvura.

Uyu ni umugabo wambaye ishati, akaba afite indangururamajwi mu ntoki, ari gusobanura ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, ndetse n'imikorere y'ubwonko, agashishikariza ababyeyi kujya bita ku bana babo, kugira ngo babarinde ibibazo bigiye bitandukanye.

Aba ni abantu bari bari kuganira ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'imikorere y'ubwonko muri rusange, harimo umuzungu ariko higanjemo abirabura, barishimye kubera ibitekerezo bahungukiye.

Uyu ni umumama w'inzobere mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, akaba yambaye ikote ry'umukara ndetse n'ikanzu y'umutuku, yambaye ibaji mu ijosi, akaba amaze gusobanurira abari bitabiriye ihuriro ibijyanye n'imikorere y'ubwonko.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe, bambaye imyenda igiye itandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bambaye amakote ndetse n'amakanzu, aho bari kwifotoza, bamaze gutanga amahugurwa ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Umusore wambaye agapira k'umuhondo, akaba arimo guseka, afite utwanwa duke duconze nkuko bigaragara rero uyu musore afite ubwonko bunezerewe, akaba ari kuruhuka yishimye yimereye neza.

Umumama wicaye mu nzu bigaragara ko ishaje kuko inyuma ye henda gusenyuka, imbere ye hakaba harambuye agasambi, yicaye ku ntebe y'urubaho, uyu mu mama bigaragara ko afite ibibazo by'ihungabana, ubwonko bwe bukaba butagikora neza.

Agahanga k'umuntu karimo amagambo agira ati: "Umunsi Mpuzamahanga wahariwe kwizihiza ubuzima bwo mu mutwe ku Isi hose." Ukaba warabaye ku itariki icumi z'ukwa cumi.

Abantu benshi cyane bateraniye ahantu hamwe, bakaba bari gusobanurirwa ku bijyanye n'imikorere y'ubwonko ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe muri rusange, bose bateze amatwi, bose bicaye imbere y'ameza kandi bagiye bafiteho uducupa tw'amazi.

Aba ni abakobwa babiri bicaye hasi, imbere yabo hari akabase karimo udushushanyo ndetse umwe muri bo afite agashushanyo mu ntoki, bari kuganira ubona ko umwe ari guseka undi amwitegereza.

Umumama uteze igitambaro wakunje isura. Bigaragara ko na we yagize ikibazo gikomeye cyane mu mitekerereze ye, ubwonko bwe ntago buri gukora neza. Akwiye ubujyanama kugira ngo yongere amere neza.

Umumama waje kuvuza umwana we ku mujyanama w'ubuzima. Umujyanama yamaze kumusuzuma, akaba ari kumwereka ibisubizo ndetse akamwereka no muri terefone uko bivugwa.

Umusore bigaragara ko yahuye n'ikibazo cy'ihungabana, yambaye agasengeri ndetse n'ikabutura, yicaye mu gipe cy'imodoka hagati, akaba afite ibisatsi binini ndetse n'ibyanwa adaheruka kogoshesha. Nk'uko bigaragara uyu musore yahuye n'ikibazo cy'ihungabana. Ubwonko bwe ntibugikora neza.

Iyi ni inyubako y'ivuriro hakaba harimo umuntu uri gusobanurira urujya n'uruza rw'abantu rwicayemo. Hakaba higanjemo ababyeyi kandi bafite abana, imbere ye hari igishushanyo. Ari kugenda abatungiraho urutoki abasobanurira.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe, bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso, ni nyuma y'uko bifatanyije n'abandi mu gikorwa cyo gusobanurirwa ibijyanye n'imikorere y'ubwonko ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe.

Aka ni agapira kariho ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, hakaba handitsemo inama mpuriro yitwa CHOGM. Aha ngaha ni igihuriro gihurwa n'abantu maze bakiga ku ngingo zimwe na zimwe.

Uyu ni umumama uhetse umwana imbere ye hakaba hari undi umuhagaze iruhande, ari kubatekera igikoma ku mbabura yicaye ku ntebe, bose ubona ko bishimye, ni byiza gufata abana neza mu rwego kugira imikurire y'ubwonko bwabo yiyongere.

Umupapa bigaragara ko yagize ikibazo cy'ihungabana, ari ahantu hari ururabo akaba yunamye cyane. Hari umukorerabushake uri iruhande rwe, bigaragara ko yenda kujya kumuha ubufasha bugiye butandukanye.

Umumama wambaye agapira k'umuhondo karimo uturongo tw'umukara yambaye n'ijakete, yikoreye igitebo kirimo imigozi ndetse akaba afite isuka mu ntoki, inyuma ye hari icyatsi kirandaranda ndetse n'inzu y'amategura.

Ubwonko bwa muntu butekereza igihe ameze neza, ni byiza ko twirinda ibiduhungabanya, mu rwego rwo kugira ngo ubuzima bwacu bwo mu mutwe tubusigasire kandi tuburinde indwara zigiye zitandukanye.

Aba ni abantu benshi cyane, higanjemo abaporisi, bakaba bari kwifotoza, nk'uko bigaragara bamaze gutanga amahugurwa ku bijyanye n'imikorere y'ubwonko ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe, inyuma yabo hari icyapa kigaragaza ko bahagurukiye kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, imbere yayo hahagaze umugabo wambaye ishati irimo amabara ndetse n'amarinete, akaba ari inzobere mu bijyanye n'imikorere y'ubwonko ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe aho amaze gutanga amahugurwa.

Umugabo bigaragara ko atuzuye mu mutwe cyangwa se afite ikibazo mu bwonko, ari gukora siporo mu muhanda yambaye imyenda byacikaguritse ibindi yabyiziritse ku maboko no mu ijosi, rero uyu akeneye kuganirizwa.

Umugabo bigaragara ko yagize ikibazo cyo mu mutwe yambaye imyenda yacikaguritse. Akaba ari gusuhuzanya n'umugabo wambaye ishati y'igitenge ndetse n'ipantaro y'umukara, akaba agiye kumufasha kugira ngo amugeze aho bamuvurira maze bamuvure akire.

Umumama mwiza cyane wambaye ikote ryiza ry'umukara akaba ari kuvuga uburyo ubuzima bugomba kugira uruhare ndetse rukagira urumuri ubuzima tugomba kubumurikira.

Iyi ni inyubako nziza cyane y'ivuriro ikaba iteyemo ibiti bigiye bitandukanye, harimo imikindo myiza cyane. Iyi nzu irimo amakaro, ikaba isize irangi rya orange, ndetse hariho inzugi z'umweru ziriho ibirahure, hakaba imikindo itanga umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Aba ni abana bateraniye ahantu hamwe, bakaba bari kuganirizwa barabona ko bishimye aho bari kuganirizwa ibijyanye n'imikorere y'ubwonko ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe, cyane cyane ku bana bakiri bato aho bagiriwe inama.

Aba ni ababyeyi babiri barahagaze, bahagaze ahantu mu gisambu, bose bafite inkoni mu ntoki, hakaba hari umubyeyi ubari hagati uri konsa umwana, mu rwego rwo kugira ngo ubwonko bwe bukore neza kandi amurememo icyizere azavemo umugabo.

Umugabo bigaragara neza cyane ko afite ibibazo bigiye bitandukanye, ari kurira cyane amaso ye ari gutembaho amarira,' nkuko bigaragara uyu mugabo afite ibibazo bigiye bitandukanye, ubwonko bwe ntiburi gukora neza.

Uyu ni umwari mwiza cyane wambaye isengeri y'umweru, afite imisatsi myinshi cyane kandi myiza, akaba afite uburoso bw'amenyo ariko koza amenyo ye yireba mu kirahure, aho afite amenyo meza cyane abereye ijisho.

Umwana muto cyane uryamye kwa muganga aho bavurira uburwayi bw'amenyo, muganga akaba yambaye impuzankano y'umweru, udupfukantoki tw'ubururu, akaba afite akuma kariho ikirahure ari kumukoza mukanwa, kugira ngo arebe uburwayi afite.

Umugabo ufite urudodo mu kanwa ari kugorora amenyo ye nkuko bigaragara rero amenyo yiwe afite ikibazo, aho umuganga yamubwiye ko agomba kujya ayagorora buri munsi kugira ubu burwayi bugabanuke cyangwa se burangire.

Ibi ni ibikoresho byifashishwa mu gihe bari kuvura uburwayi bw'amenyo, bikaba biteretse hasi kandi ari byinshi. Abaganga b'amenyo babanza gusobanurirwa uko ibi bikoresho bikoreshwa mu rwego kugira ngo batazabikoresha uko bidakoreshwa.

Uyu ni umusore uryamye kwa muganga ku gatanda abavuzi b'amenyo bavuriraho, akaba yambaye igitambaro cy'umweru aho ari kwerekana amenyo ye kandi agaragaza ko yishimiye serivisi yahawe.

Abana bambaye impuzankano ya kake, bamanitse umuti w'amenyo hejuru ndetse n'uburoso bw'amenyo; aho bafashe ingamba zo kurinda amenyo yabo indwara ziterwa n'umwanda bogereza amenyo yabo ku gihe.

Aha ni kwa muganga ahavurirwa amenyo, hari agatanda k'umukara hakaba hariho umusore uryamyeho, ari kwereka muganga iryinyo rifite ikibazo, muganga na we afite igikoresho akaba agiye kurimuvurira neza.

Aha ni ahantu habaye igikorwa cyo gusuzuma abaturage uburwayi, cyabegerejwe aho batuye. Bashinze ihema maze bari gutonda umurongo. Ugezweho bakamusuzuma. Urwaye agatambuka bakamuvura.

Uyu ni umusore uri kugorora amenyo ye akoresheje agakoresho ka purastike. Ari kugenda ayagorora rimwe kuri rindi, aho aya menyo ye yari yaragoramye. Ariko muganga akamugira inama yo kujya ayagorora, kugira ngo agororoke.

Iki ni igishushanyo kigaragaza imiterere y'amenyo y'umuntu uko ari mirongo itatu n'abiri. Turi kubona amenyo. Aha abaganga bifashisha iki gishushanyo mu rwego rwo kugira ngo babashe kumenya amenyo yose bityo babashe kuvura abantu nta nkomyi.

Umwana muto cyane usa neza akaba yiyicariye mu ivuriro ry'amenyo, muganga ari kumushyiraho agakoresho kariho akarahure aho akamushyiraho akamenya iryinyo rirwaye ndetse n'uburyo yarivura.

Iki ni igishushanyo kigaragaza amenyo y'umuntu mukuru uko ari mirongo itatu n'abiri. Iki gishushanyo rero kigisha ndetse kikanafasha abaganga kumenya amenyo yose ku buryo ibyo bakora babikora neza bitabagoye.

Uwo mwari mwiza cyane ufite amenyo meza, arazindutse atora umuti w'amenyo ndetse n'uburoso bw'amenyo. Ari kuyoza; ugereranyije ubwiza bwe n'isupu ye, bigaragaza ko amenyo ye ayitaho kandi ameze neza.

Umusore wambaye imyenda y'umukara, ari kwireba mu kirahure, aho ari kureba amenyo ye, akarebamo irifite ikibazo kugira ngo arijyane kwa muganga maze barimuvure.

Umwana muto uryamye kwa muganga aho bavurira uburwayi bw'amenyo, harimo umuganga wambaye impuzankano y'umweru, udupfukantoki tw'umweru, akaba afite utwuma kabuhariwe, yifashisha mu gihe ari kuvura.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro. Iyi nyubako ikaba ifite inkuta z'irimo irange ry'umweru. Harimo ibikoresho bigiye bitandukanye: nk'ibitanda, intebe ndetse n'ibindi byifashishwa n'abaganga mu gihe bari kuvura.

Umwana muto cyane aryamye mu biganza by'umuganga ufite ibikoresho bigiye bitandukanye, uyu muganga yiteguye kumuvura kuko yambaye impuzankano y'abaganga, akaba yambaye uturindantoki ndetse akaba afite n'ibikoresho yiteguye kumuvura.

Umusore ufite amenyo meza cyane. Ari kuyagoroza urudodo ndetse akuramo n'imyanda irimo. Gusukura amenyo ukoresheje urudodo ni byiza kuko ugenda ukuramo mikorobe zigiye zitandukanye zirimo.

Aha ni mu nyubako y'ivuriro. Aha rero tureba ni ahavurirwa uburwayi bw'amenyo, turi kubona ibitanda abarwayi babavuriraho, tukabona intebe muganga yicaraho ari kumuvura ndetse n'ibikoresho bigiye bitandukanye yifashisha mu gihe ari kuvura.

Iki ni igishushanyo kigaragaza mu kanwa h'umuntu aho kerekana amenyo uko ari mirongo itatu n'abiri, ibi abaganga bakunze kubikoresha kugira ngo bihugure maze babashe kuvura bya kinyamwuga.

Uyu ni umwari usa neza cyane afite amenyo meza, akaba ari kugaragaza neza ko ayitaho nyuma yuko muganga amugiriye inama yo kongera uko yayitagaho, nawe akaba abigendera kandi abyerekana.

Umwana muto cyane afite uburoso bw'amenyo ndetse akaba agiye koza amenyo ye. Gafite utwinyo twiza cyane kubera ko katwitaho, ibi bikwiye gutozwa abana bose kugira ngo bamenye isuku.

Ni mu bitaro kwa muganga hari umuntu uryamye ku gatanda bakuriraho amenyo, hakaba hari umuganga wambaye impuzankano y'abaganga is'umweru, uturindantoki n'udupfukamunwa, akaba afite amarineti ku gahanga, ari kuvura uyu murwayi amenyo ubona ko abishoboye.

W'umusore ufite amenyo meza ariko akaba ari kuyasukura akoresheje urudodo aho arufata akagenda arukoza hagati y'iryinyo n'irindi akuramo imyanda iba yafashemo mu rwego rwo gukomeza kuyarinda.

Umwana muto cyane, uryamye mu gatanda kwa muganga aho bavurira amenyo, harimo umuganga wambaye impuzankano y'icyatsi kibisi, uturindantoki ndetse n'agapfukamunwa, akaba ari gusuzuma uyu mwana.

Umusore uri gusukura amenyo ye yifashishije urudodo. Ari gufata urudodo akagenda ashyiramo akuramo utwanda turimo. Ubu ni bumwe mu buryo bwiza kandi bugezweho bwo gusukura amenyo ntihagire akanda na kamwe gasigaramo.

Iki ni icyumba kivurirwamo uburwayi bw'amenyo, hari abaganga babiri umusore ndetse n'inkumi bose bambaye udupfukamunwa n'impuzankano y'umukara, hakaba umuntu uryamye ku gatanda, bakaba bari kugenda bamuvura mu buryo butandukanye.

Umusore uryamye ku gatanda aha ni kwa muganga aho bavurira uburwayi bw'amenyo. Hari umuforomokazi wambaye impuzankano y'abaforomo ndetse n'udupfukantoki tw'ubururu, akaba agiye kuvura uyu musore amenyo.

Iyi ni inyubako ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye. Aha ngaha rero bahavurira indwara y'amenyo. Nk'uko bigaragara harimo ibikoresho, muganga yifashisha mu gihe ari kuvura amenyo.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, aha ni mu cyumba kivurirwamo uburwayi bw'amenyo, aho utambuka muganga akakuryamisha ku gatanda kari hano maze akagusuzuma kandi akakuvura.

Aha ni mu nyubako yo kwa muganga, hakaba harimo umusaza uryamye hasi, hakaba n'umuganga umuhagaze iruhande aho yambaye impuzankano y'umweru akaba afite akumvirizo mu ijosi rye, imbere y'uyu musaza hari ikimashini gisuzuma.

Abamama batatu bakuze bambaye imyenda irimo amabara atandukanye, babiri bambaye imyeru, undi umwe yambaye umuhondo akaba afite telefone, bose bayirangariyemo, bari guseka. Abantu bishimye iyo bari ahantu hamwe baraganira kandi bakumva banezerewe.

Ni umukecuru uri kumwe n'abuzukuru be, bakaba bari gukina amakarita aho bari mu nzu nziza cyane ifite inkuta zisize irangi ry'umweru, bari gukenira amakarita ku meza afite ibara ry'umukara bose urabona ko bishimye.

Umumama ukuze cyane yicaye mu ntebe aregamye, hari umukobwa wambaye impuzankano y'abaforomo umuri inyuma, bari kurebana bose bagaseka. Ni byiza ko abantu bakuze babona ababitaho mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni umumama ukuze uri muri siporo, aho afite agatambaro ari kugenda agoroza imitsi ye, akaba ari kubifashwamo n'umuforomokazi w'umuzungu, wambaye impuzankano y'umukara ndetse akaba yambaye n'ishati y'umweru mo imbere.

Umusaza bigaragara ko ashaje. Akaba atakibasha guhagarara inkokora zabaye inteja. Akaba ari kumwe n'abuzukuru be, aho bari kugerageza kumuhagurutsa ngo na we agere hanze, yote akazuba.

Umumama bigaragara yuko akuze, ari kumwe n'abana be ndetse n'abuzukuru be, akaba yishimye. Ni byiza gusazira mu muryango. Kuko bitera ibyishimo ababyeyi ndetse n'abana.

Umusaza ndetse n'umukecuru. Bicaye mu nzu yabo imbere y'ameza. Umusaza afite agacupa ari kurebaho ndetse n'umukecuru akarebaho. Bose bagaseka. Ni byiza ko umuryango usaza useka.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, ikaba irimo umusaza wicaye mu ntebe, uyu musaza akaba ari kurebana n'umuforomokazi wambaye impuzankano y'ubururu, umuforomokazi agasekera umusaza, mu rwego kugira ngo nawe yishime.

Aba ni abantu bakuze bateraniye ahantu hamwe. Aho bari kugenda baganirizwa ndetse bakaba bishimye. Ni byiza kuganiriza abari mu zabukuru kugira ngo na bo bakomeze bumve inkuru zigiye zitandukanye.

Umusaza wambaye agapira k'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara. Afite utwuma tw'umutuku mu ntoki tumufasha kugorora imitsi. Akaba yambaye ekuteri mu matwi ndetse yambaye n'amarinete. Akaba afite imvi nyinshi cyane ku mutwe.

Umusaza uri kumwe n'umukobwa we n'umusaza bigaragara ko akuze, ariko iyo usaziye mu bawe mwishimye kandi nta bukene mufite usaza unezerewe kandi n'abawe bakwizihiye.

Aba ni abapapa bakuze. Bose bicaye mu ntebe z'imisego, bambaye amakanzu ndetse n'ingofero, bose bafite inkoni imbere yabo. Ndetse kandi bambaye n'inkweto z'amacongo, bigaragara ko bitabiriye ibirori kandi bakaba babyishimiye.

Umusaza wambaye agapira k'amaboko magufi. Afite ubwanwa bwinshi cyane kandi burimo imvi nanone kandi busukuye. Akaba ari kumwe n'umuforomokazi w'umwari ukiri muto cyane wambaye impuzankano y'ubururu, akaba ari kumusukira imiti mu kiganza.

Umusaza bigaragara y'uko akuze, yambaye amarinete, ari kumwe n'umuforomokazi, bari kurebana, uyu muforomokazi akaba ari kuvura uno musaza barebana, bose baseka nk'uko bigaragara bose bishimiranye kandi banezerewe.

Umukecuru uri kumwe n'umusaza bicaye mu nzu imbere y'ameza, umusaza afite ibinini mu ntoki ndetse n'agacupa, umukecuru ari kumwereka agapapuro kariho amategeko ndetse n'amabwiriza y'uko agomba gukoresha iyo miti.

Umumama ukuze cyane ari kumwe n'abandi bamama ndetse n'abasaza, bari kugenda bakora siporo, baganira maze bose bagaseka. Uyu mumama bafite akantu ka oranje bifashisha mugihe bari kugorora imitsi ndetse bakomeza n'ikiganza.

Umusaza wambaye agapira k'umuhondo ari kumwe n'umusore uri kumukoresha siporo, aho bakora gake gake kugira ngo uyu musaza agorore imitsi ndetse n'ingingo maze ubuzima bukomeze bwicume.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe, bakaba baje kuganiriza abakecuru bakuze. Aho bari kubaha impano zigiye zitandukanye. Ibi bishimisha abantu bari mu zabukuru ku rwego rwo hejuru.

Aba ni aba mama bakuze bakaba bambaye imyenda y'amabara atandukanye, ndetse bakaba bari muri siporo bari kugenda mu muhanda mwiza cyane wa kaburimbo, usa umukara, iruhande rwabo hakaba hari indabyo z'icyatsi kibisi ndetse n'umweru, bigaragara ko bishimiye siporo bakoze.

Umukecuru wicaye imbere y'ameza, akaba ari kurebana n'umuforomokazi uri kumuha ikinini, uyu mukecuru akaba afite n'ikirahure kirimo amazi, bigaragara ko aya mazi agiye guhita ayanywesha ikinini mu rwego rwo kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Umusaza ndetse n'umukecuru bicaye mu nzu imwe. Umusaza afite icupa ry'umuti. Naho umukecuru imbere ye hari mudasobwa. Aho bari kugenda bareba kuri uyu muti amagambo yanditseho. Uko witwa ndetse n'uko ukoreshwa.

Umusaza ufite ibiganza bishaje akaba afite dame imbere ye ari gukina, arikugenda yimura gake gake. Iyo umuntu ashaje ni byiza ko abona ibyo ahugiramo kugirango ngo adaheranwa n'indwara yo kwigunga ndetse n'agahinda ubuzima bwe bukajya mu kaga.

Umugabo ndetse n'umugore bose bakuze, umugabo yambaye agapira k'ubururu. Umugore we yambaye ak'umuhondo. Umugabo nta musatsi afite, umugore afite umusatsi urimo imvi nyinshi, bakaba bafite umuti bagiye kunywa, aho babanje gusoma ku gipapuro uko ukoreshwa.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe. Hakaba harimo abakuze, abuzukuru ndetse n'abana babo. Abakuze harimo umumama umwe uri kuboha igiseke, hakaba n'undi wicaye ku ntebe n'umusaza uteruye akuzukuru ke.

Umusaza wambaye ishati y'ubururu y'amaboko maremare, akaba ari kumwe n'umuforomo ukiri muto wambaye impuzankano y'ubururu ndetse wifubitse umupira, ufite imisatsi myiza cyane inyerera, akaba ari kumufata akaboko ngo atambuke gake gake.

Umupapa ukuze ufite ubwanwa burimo imvi nyinshi cyane, umutwe imvi zabaye uruyenzi, yambaye amarineti, ari kumwe n'umumama bose bicaye mu nzu imwe bari kuganira, mbese bicaye ku meza bari gufata amafunguro.

Umusaza ndetse n'umukecuru bicaye ku ntebe ndetse imbere yabo hari ameza ariho ikirahure kirimo amazi, umusaza akaba afite imiti mu ntoki agiye kunywa, umukecuru akaba ari kumusomera amategeko n'amabwiriza agomba gukurikiza.

Umukecuru wicaye mu kagare k'abafite ubumuga, imbere ye hari umuganga wambaye impuzankano y'ubururu ufite imisatsi myiza cyane inyerera. Yambaye baji mu ijosi. Akaba ari gusuzuma uyu mukecuru ngo arebe uburwayi afite.

Umukecuru n'umusaza bari kumwe, umusaza afite ikirahure cy'amazi ari kunywa, umukecuru afite umuti agiyekumuha, bose barakuze. Ni byiza ko umugabo n'umugore iyo bakuze bakomeza kugira urukundo kandi bakishirana.

Umukecuru bigaragara yuko akuze. Afite utuntu tw'icyatsi kibisi mu biganza bye, akaba ari kugorora ingingo. Afite imisatsi miremire ariko yuzuyemo imvi. Ni byiza gukora siporo ku bantu bakuru kuko bituma bakomera.

Umusaza ndetse n'umukecuru bari mu nzu, imbere yabo ku meza hari agatasi karimo amazi, hakaba uducupa turimo imiti ndetse n'amarinete y'uyu mukecuru, umusaza afite tunini mu ntoki umukecuru akaba ari kumwerekera uko bayinywa.

Umupapa bigaragara neza yuko akuze ari gukina n'umwana muto umukino w'amaboko tuzi nka basikete bari mu kibuga cyiza cyane gifite amabara y'umukara hakaba harimo uturongo tw'umweru.

Abasore babiri bambaye amakote y'imikara, amashati y'imikara ndetse n'amakaruvate y'imikara, bose umwe aricaye undi yifashe mu mifuka, aho bigaragara ko bagiye kugirana imikoranire bityo bagateza imbere ubuvuzi.

Uwo mukobwa bigaragara ko ari guseka, ni umukobwa ukora imirimo ifitiye inyungu igihugu, akaba yiyemeje nawe gukurikiza ingamba za leta uko zanzuwe.

Aba ni abamama bari mu bikorwa by'ubukangurambaga, bakaba bafite icyapa kiriho amagambo yanditswe mu bara ry'umweru, aho bagaragaza nimero wahamagara, mu gihe ukeneye ubufasha bugiye butandukanye.

Uyu ni umusore ndetse n'inkumi bakaba bahawe ishimwe ry'uko bakoze neza, aho bakoze ubukangurambaga ku bijyanye n'ubuvuzi ku Isi, aho bafashe ingamba zigiye zitandukanye zituma abantu bakira uburwayi.

Ikigo cy'Igihugu gishinzwe ubuzima RBC, gihora gishishikariza abantu gusigasira ubuzima. Aha ngaha akaba ari umunsi mpuzamahanga wahariwe kwita ku buzima bw'abaturage.

Abaganga bambaye impuzankano y'abaganga y'ubururu, bambaye uturindantoki tw'umweru ndetse n'udupfukamunwa tw'ubururu, bakaba bari aha hantu bakorera ubushakashatsi. Izi ni zimwe mu ngamba Leta yafashe kugira ngo na bo bajye bihugura.

Abantu benshi cyane bateraniye ahantu hamwe bose bambaye udupfukamunwa, turikubona umugabo wambaye ijire y'abakorerabushake ndetse yicaye imbere y'umuganga wambaye impuzankano akaba yambaye uturindantoki t'wubururu nk'uko bigaragara agiye kumutera urukingo rw'icyorezo.

Zimwe mu ngamba Leta yafashe harimo no kwegereza abaturage ubuvuzi, aha hari umupapa ndetse n'abamama bateruye ibyapa bitanga ubukangurambaga ku bantu bafite uburwayi bugiye butandukanye kugira ngo bajye bihutira kujya kwivuza.

Uyu ni umugabo uri kuganiriza abana bakiri bato bikaba bigaragaza ko kuganiriza abana bituma imikorere y'ubwonko yabo ikora neza kandi bikagabanya n'ibibazo bashobora guhura nabyo bijyanye n'imitekerereze.

Abantu bateraniye ahantu hamwe bigaragara ko bari mu nama. bose bari kuganira ndetse bagafata n'ingamba. imbere yabo hari abari gutambutsa ikiganiro ndetse inyuma yabo hakaba hari icyapa kiriho amagambo yandikishije umweru agaragaza yuko iyi ari inama mpuzamahanga igamije kurandura ndetse no kurwanya sida.

Umusore n'inkumi bigaragara ko bamaze gufata ingamba ku bijyanye no gukumira indwara ndetse no kuzirinda, aho bafite akapa kariho amagambo agira ati: "Twisuzumishe igituntu, kiravurwa kigakira."

Leta y'u Rwanda yashyize imbaraga nyinshi cyane mu kurinda abaturage uburwayi, Minisiteri y'Ubuzima igenda ifata ingamba zigiye zitandukanye, mu rwego rwo gukomeza kwibutsa abaturage ko kwirinda ari ingenzi.

Izi ni zimwe mu ngamba zafashwe na Leta y'u Rwanda, aho biyemeje kurwanya indwara zose, aha hari umugabo wambaye ikote ndetse na kositimu, imbere ye hari indangururamajwi ndetse n'isakazamajwi, ari gutambutsa ikiganiro avuga ingamba zafashwe.

Leta y'u Rwanda yafashe ingamba zigiye zitandukanye zo guhangana n'icyorezo cy'indwara y'Ubushita bw'Inkende, aho yafashe iya mbere mu kuzana inkingo ndetse no kuyikumira.

Inyubako nziza cyane irimo abantu batandukanye, aba bantu bose bari mu mahugurwa kandi bari gufata n'ingamba ku bijyanye n'ubwirinzi bw'indwara, hari umugabo ubahagaze imbere ufite indangururamajwi mu ntoki akaba ari gutambutsa ikiganiro.

Abantu benshi cyane bateraniye ahantu hamwe hari abari imbere yabo bigaragara ko ari bo bayobozi, harimo abirabura ndetse n'abazungu, bakaba bari gutambutsa ikiganiro bagafatira hamwe ingamba bakababwira n'ibyavuye mu bushakashatsi.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe, bakaba bari kugenda basobanurirwa ibijyanye n'imikorere y'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'ingamba zafashwe na Leta mu rwego rwo gusigasira serivise zitangwa n'abavuzi.

Iki ni icyapa kiriho amagambo agaragaza amatariki, umunsi, ndetse n'umwaka, u Rwanda rufatiraho ingamba zigiye zinyuranye, ndetse zikavugurura n'amabwiriza agenga ubuzima, aho akurikizwa mu gihe kingana n'umwaka.

Umukobwa w'umuforomokazi amaze gufata ingamba, zuko azavura abantu kugeza igihe baboneye ubuzima bakeneye kandi bakwiye, yafunze igipfunsi ari kubyeyemeza kandi yabirahiriye.

Aha ni hateraniye inzobere mu by'ubuvuzi, bambaye impuzankano z'abaganga ndetse n'udupfukamunwa, imbere yabo hari umugore wambaye ijire y'umukara n'agapfukamunwa k'ubururu, hakaba hari amagambo yanditse agaragaza ko igisubizo cya Kovide cumi n'icyenda cyabonetse.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro. Iyi nyubako ikaba yubatswe mu buryo bugezweho igeretse kabiri. Imbere yayo hari abantu bari gufata ifoto y'urwibutso, higanjemo abazungu, imbere yabo hakaba hari indabyo nziza.

Iyi n'inyubako y'ivuriro, ku rukuta ruzengurutse iri ivuriro turi kubonaho icyapa kiri mu mabara y'umweru, hariho amagambo yandikishijwe inyuguti z'ubururu aho bagaragaza ko ari ibitaro bya Ruhengeri.

Iyi ni inyubako y'ivuriro irimo umubyeyi wabyaye uteruye akana, ari kumwe n'umuforomokazi wambaye impuzankano y'ubururu ndetse na marinete, bose bakaba bishimiye aka kana kavutse uyu munsi.

Iyi nyubako nziza cyane y'ivuriro ni inyubako yubatswe mu buryo bugezweho, yubakishijwe amatafari ahiye ikaba isize irange ry'umweru, muri aho mo imbere haparitsemo imodoka ndetse hakaba harimo agahanda ka kaburimbo.

Iyi ni inyubako y'ivuriro. Ikaba yubakishijwe amatafari ahiye. Isize irange ry'umuhondo, isakaje amabati y'ubururu. Imbere hakaba hari ubusitani bugizwe na pasiparumu. Hariho amagambo agaragaza ko iyi ari inzu y'ababyeyi.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, iyi nyubako ikaba irimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa bavura abaturage cyangwa se babakura ahantu hamwe babajyana ahandi. Iyi nyubako ifite inkuta ziriho irangi ry'umweru. Parafo ni umweru. Hasi hakaba hasa umukara.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, turi kubonamo inkuta zigiye zitandukanye, aho hejuru hariho ibyuma byiza cyane, hasi hakaba hari intebe ndetse na mudasobwa abaganga bifashisha mu gihe basuzuma abarwayi, harimo n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, iri vuriro rikaba ririmo udutanda baryamishaho abarwayi bavurwa babamo, hakaba hari ibishushanyo bigiye bitandukanye biri ku nkuta aho hasi hari isima. Hakaba harimo n'agatebe muganga yicaraho ari kuvura.

Inyubako nziza cyane yo kwa muganga, ikaba irimo umuntu wambaye amarinete nk'uko bigaragara muri iyi nyubako bakaba bavuriramo indwara zigiye zitandukanye cyane cyane uburwayi bw'amaso.

Iyi ni inyubako y'ivuriro yubakishijwe amatafari ahiye, ikaba isizemo irangi ry'umuhondo ndetse n'umweru, harimo abantu bicayemo baje kwivuza ndetse aha nkuko bigaragara ni ahatangirwa ibizami.

Iyi ni inyubako nziza cyane y'ivuriro yubatswe mu buryo bugezweho, hakaba hari abantu benshi cyane baje kwivuriza muri iri vuriro, harimo ubusitani bwiza cyane hakaba n'igiti k'inganzamarumbo gitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, ikaba irimo ibikoresho bigiye bitandukanye. Hari ibyuma bifashisha basuzuma abarwayi, hakaba utubati babikamo ibikoresho ndetse hari n'isaha imanitse ku rukuta, iyi nyubako, ikaba itangirwamo serivise zinoze.

Iyi ni inyubako y'ivuriro. Ni inyubako yubatswe mu buryo bugezweho, hakaba harimo agatanda gafite ibara ry'umukara, harimo utubati dusa umuhondo babikamo ibikoresho. Ku nkuta hariho irange ry'umweru.

Iyi ni inyubako nziza cyane y'ivuriro, ikaba ifite inkuta ziteye irangi ry'umweru, harimo igitanda gifite amapine, kiryamishwaho abarwayi bavurwa babamo bityo bikabafasha kubasuzuma ndetse no kubakurikirana mu buryo bworoshye.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro. Ikaba ifite umuryango winjira ufunze. Mo imbere harimo ibiti birebire bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi. Inyuma hakaba hari icyapa kigaragaza ko ari Ikigo Nderabuzima cya Nyanza.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, iyi nyubako ifite ibirahure byiza cyane by'umweru ndetse ikaba yubakishijwe amatafari ahiye, hari ubusitani bwiza, indabo zirandaranda ku nkuta ndetse n'ibindi.

Iyi ni inyubako nziza cyane y'ivuriro, yubatswe mu buryo bugezweho, hakaba harimo ibikoresho bigiye bitandukanye. Abaganga bifashisha mu gihe bari gusuzuma ndetse banavura abarwayi, aho harimo n'irange ryiza cyane ry'umweru.

Umuganga wambaye impuzankano y'umweru n'isaha y'umukara. Yicaye ku gatebe k'icyatsi kibisi ahavurirwa amenyo kwa muganga; hakaba hari n'agatanda avuriraho abarwayi igihe atangiye akazi.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, ikaba irimo abaganga bambaye impuzankano y'umweru, ndetse n'abarwayi baje kwivuza, bakaba bari kubasuzuma undi yandika amakuru bari kugenda batanga.

Inyubako nziza cyane irimo ivuriro, yubatse mu buryo bugezweho, yubakishijwe amatafari ahiye, ifitemo amarangi y'umweru, harimo uturongo tumanuka tw'umukara, hakaba harimo ubusitani bwiza cyane.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, iyi nyubako isize amarangi y'umweru ku nkuta, ikaba ifite ibirahuri by'umukara, harimo abaganga bateraniyemo, bakaba bari mu isuzumiro ahasuzumirwa indwara z'umubiri wose.

Iyi ni inyubako y'ivuriro ikaba ifite inkuta ziriho irange ry'umweru, akabati karimo imbuto hakaba hari n'igitanda gishashe neza, hari icyuma bifashisha basuzuma abarwayi ndetse hasi hari amakaro.

Iyi ni inyubako y'ivuriro yubatswe mu buryo bugezweho, igeretse kabiri mo imbere hasizemo irange ry'umuhondo, hakaba hateretsemo intebe nziza z'umukara ndetse n'ameza, aho abaje kwivuza bategerereza muganga.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, ikaba yubakishijwe amatafari ahiye, ifite inzugi z'umweru ndetse iteye n'amarangi y'umweru ku nkuta, hejuru isakaje amabati y'ubururu, hakaba hari abantu bari kuvamo kwivuza, biragaragara ko hari ikigo nderabuzima cya Matyazo.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro nk'uko bigaragara harimo amabendera y'amabara agiye atandukanye ndetse y'imiryango n'ibihugu bigiye bitandukanye, hakaba hari ibyapa aho hafi aho ku muhanda bigenda bigaragaza ku cya makumyabiri ndetse n'ahatemerewe guparikwa hakaba hari n'abantu bari inyuma yaryo, aha rero ni kuri King Faisal.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro ikaba irimo ibitanda bigiye bitandukanye, biryamishwaho abarwayi mu gihe bari kubasuzuma, hakaba udukarito bajugunyamo imyanda ndetse hakaba n'imashini zifashishwa mu gusuzuma abarwayi.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, imbere yaho hateretse indobo y'icyatsi, ifite inzugi z'umukara ndetse n'ibirahure ni umukara, harimo uturongo tw'icyatsi kibisi, hakaba hari umuntu wambaye imyenda y'umweru uri kuhasukura.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, ikaba ifite inkuta ziteye irange ry'umweru. Hakaba harimo ibikoresho bigiye bitandukanye muganga yifashisha mu gihe ari gusuzuma umurwayi. Harimo abaganga, abirabura ndetse n'abazungu, bakaba bari kuvura abarwayi.

Inyubako icururizwamo imiti, iyi nyubako ikaba igaragara neza cyane irimo imiti myiza hejuru, hariho izina ry'iyi farumasi aho yanditse mu rurimi rw'Icyongereza ndetse hakaba hariho na nimero wabakeneraho mu gihe ushaka serivisi.

Umukobwa uryamye mu nyubako y'ivuriro, muganga ari kumwitaho ari kumubaza uko amerewe kugira ngo amenye imiti amwandikira ndetse n'igihe azamara muri iri vuriro.

Iyi ni inyubako nziza cyane y'ivuriro, ikaba isize irangi ry'umweru ku nkuta, aho binjirira hakaba hari icyapa kigaragaza ko ari ibitaro by'akarere ka Nyarugenge, imbere yaho hateye indabyo nziza cyane.

Iyi nyubako y'ivuriro, iyi nyubako ikaba irimo intebe nziza cyane z'umukara n'izindi z'umusego zizengurutse hano hose akaba ari n'utumeza, hari aho umuganga yakirira abaje babagana. Iyi ikaba ifite inkuta z'umuhondo.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro. Iyi nyubako yubatswe mu buryo bugezweho, yubatse igeretse kabiri, ikaba isakaje amabati y'umukara, isize irange ry'umuhondo ku nkuta, hakaba hari ibirahure by'umukara. Aha hakaba hakorerwa ubushakashatsi.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro irimo ibikoresho bigiye bitandukanye, iyi nzu ikaba itanga ubuvuzi bwerekeranye n'ingingo, harimo udutanda, hakabamo utugare ushobora kunyonga ndetse ureba imbere yawe undi muntu ukamwigana.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro. Ni inyubako isize irange ry'umweru, hasi hakaba hariho amakaro. Iyi nyubako ifite purafo nziza cyane, ikagira n'amatara meza ndetse ikaba ivurirwamo abarwayi.

Iyi n'inyubako y'ivuriro, ikaba ifite inkuta ziriho irangi ry'umweru, mo imbere harimo intebe nziza cyane bicaraho mu gihe bategereje ubaha serivisi, hakaba hari n'urukuta ruriho irangi ry'umuhondo na parafo ni umuhondo.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro. Iyi nyubako irimo umuganga wambaye impuzankano y'umweru. Akaba ari gusuzuma ibizami yahawe n'umurwayi, yifashishije iyi mashini imuri imbere. Muri iyi nyubako hakaba harimo na mudasobwa.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho. Yubakishijwe amatafari ahiye, ikaba isakajwe amabati atukura. Harimo urujya n'uruza rw'abantu baje kwivuza. Ndetse hanze hakaba hari icyapa kigaragaza ko ari Ikigo Nderabuzima cya Gisenyi.

Iyi ni inyubako y'ivuriro hakaba harimo abantu benshi cyane baje kwivuza, hari umugabo uhagaze uri kwitegerereza umukobwa wicaye ku ntebe witangiye itama, bose bategereje guhabwa serivise, iyi nyubako ifite inkuta zisize irangi ry'umweru, abantu bahari bicaye mu kirongozi.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro hari abantu baje kuhivuriza, turi kubona abantu bari gucamo, tukabona imodoka zihaparitse ndetse iyi nyubako isakaje amabati y'ubururu, inkuta ziteye amarangi y'ubururu bwerurutse ndetse n'ubururu bwijimye.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro isize amarangi y'umweru hasi hari amakaro y'umweru hakaba harimo igitanda muganga asuzumiraho abarwayi gisasheho ishuka y'icyatsi kibisi aha ni kwa muganga.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro isakaje amabati y'umutuku. Ikaba ifite inkuta zisize irangi ry'umweru ndetse hakaba harimo n'abantu baje kuhivuriza. Hirya hari abantu bikoreye ibidomoro ndetse n'ibiti birebire bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi. Hakaba hari n'Idarapo ry'Igihugu.

Inyubako y'ivuriro, harimo umuganga wambaye impuzankano y'abaganga. Hakaba harimo icyuma kinini cyane cy'umweru, bakoresha bari gupima abarwayi. Akaba bigaragara yuko iyo umuganga agiye kugupima, akuryamisha kuri icyo cyuma, maze akareba ku imashini iri aho, uburwayi ufite.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, ikaba ari inyubako yubatswe mu buryo bugezweho, hakaba harimo ubusitani bwiza imbuga isashemo amapave ndetse iteyemo n'uduti dutanga umuyaga ku bwinjiriro hakaba hari icyapa kigaragaza ko ari ibitaro by'akarere ka Nyarugenge.

Inyubako nziza cyane yo kwa muganga irimo ibitanda bigiye bitandukanye, ku nkuta hakaba hariho irangi ry'umweru, hejuru kuri parafo, parafo ikaba isa umweru, harimo n'amatara, ibi bitanda bisasheho matera zisa ubururu kandi biryamishwaho abarwayi bavurwa babamo.

Iyi ni inyubako y'ivuriro. Nk'uko bigaragara iyi nyubako irimo abantu baje kwivuza. Ikaba yubatswe mu buryo bwiza isizwe irangi ry'umuhondo. Hari magambo ariho yandikishije ibara ry'umukara.

Inyubako nziza cyane, iyi nyubako ikaba itangirwamo serivisi z'ubuvuzi aho bavura abantu indwara zigiye zitandukanye, hari icyapa kigaragaza indwara bavura n'amasaha bakoreraraho hakaba hari umukindo mwiza cyane utanga umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Iyi ni inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi. Ikaba igeretse inshuro enye. Mo imbere hasashe amapave meza cyane. Hakaba harimo abagabo batatu bahagaze imbere y'imodoka bigaragara ko ari abakire. Imbere aho inyubako iri hakaba hari icyapa kigaragaza ibyo bakora ndetse n'amasaha bakoreraho.

Iyi nyubako nziza cyane y'ivuriro, ni inyubako ifite amarangi y'umweru ahantu hose, ikaba isakaje amabati y'ubururu. Harimo idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, aho mu marembo yayo harimo utubara tw'umutuku.

Umusore uryamye hasi imbere ye hakaba hari umuganga w'umumama wambaye itaburiya y'umweru, ufite imisatsi y'amamenshi imanuka mu mugongo, akaba ari kumushyira akantu ku kuboko, aho agenda amusuzuma ngo arebe uburwayi afite.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, turi kubonamo abaganga babiri ndetse n'umurwayi umwe, umuganga wambaye impuzankano y'umweru, akaba afite icyumvirizo mu ijosi rye, ari kubaza uyu murwayi yandika ibyo ari kumubwira.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro. Iyi nyubako ikaba irimo udutanda turiho matela z'umukara. Hakaba harimo imashini zifashishwa basuzuma abarwayi. Ku rukuta hariho isaha ndetse n'icyuma cyerekana amashusho. Kikaba gisize irangi ry'umweru.

Inyubako nziza yo kwa muganga, ikaba irimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu kuvura abarwayi. Iki ni icyuma kinini, aho baryamisha umurwayi munsi yacyo bagahita bamenya uburwayi afite umubiri we wose.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, ikaba yubatse neza cyane, igeretse inshuro nyinshi, imbere yaho hari icyapa kigaragaza amasaha yo kuvura ndetse n'ayo gusura, hari imodoka iri gusohokayo nk'uko bigaragara iri vuriro ryivurizwamo n'abifite.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, harimo ibikoresho bigiye bitandukanye. Turi kubona agatanda gasa ubururu muganga aryamishaho umurwayi igihe agiye kumusuzuma. Tukabona agatebe k'umukaraba aba yicayeho ndetse n'ibikoresho akoresha mu gihe ari gusuzuma.

Iyi ni inyubako y'ivuriro yubatswe mu buryo bugezweho. Ikaba ifite inkuta ziteye irangi ry'umweru harimo ibikoresho byiza cyane by'ikoranabuhanga bigiye bitandukanye. Hakaba hari n'imashini ifata amashusho, aha akaba ari mu ivuriro rigezweho.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro muri iryo vuriro imbere ukigerayo hari icyapa kiriho ibara ry'ubururu amagambo yandikishije umweru kikaba giteye mu busitani iyi nyubako ivurirwamo abarwayi.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, ikaba ifite inkuta zisize irange ry'umweru, parafo n'umweru ndetse hariho n'amatara ari kwaka, mo imbere harimo abantu bambaye bikwije kuva hasi kugera hejuru, bipfutse bigaragara ko harimo n'abarwayi barwaye indwara zandura.

Aha mu nyubako y'ivuriro mo imbere harimo urujya n'uruza rw'abarwayi baje kwivuza ndetse harimo n'abaganga, hakaba hari ududebe bicayeho ndetse n'amezaeza hari umubyeyi wicaye mu gatanda k'abafite ubumuga, nawe bakaba bari kumuha serivisi.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, ikaba irimo intebe zimeze neza abantu bicaraho mu gihe bategereje guhabwa serivisi, hasi hakaba hari amakaro, hejuru ku nkuta hasizeho irangi ry'umweru, iyi nyubako irasobanutse.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, iyi nyubako yubakishijwe amatafari ahiye hakaba hari amakaro asashe hasi, ku nkuta hariho irange ry'umuhondo isakaje amabati y'ubururu, iyi nyubako ikorotirijwe ibyuma by'umukara.

Umugabo wicaye munsi y'igiti kinini cyane, iki giti hakaba hakorutirijwe amabuye. Haruguru ye turi kuhabona inyubako y'ivuriro ifite urukuta rw'irangi ry'umuhondo ndetse n'amabati y'umutuku aho yaje kwivuza.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro yubakishijwe amabuye. Hakaba harimo abantu bari kuyitambukamo mu kirongozi gihari gitwikiriye. Iyi nyubako ikaba ifite ubusitani bwiza cyane kandi bunini. Hirya yayo hari imisozi.

Aba ni abantu bari kwihugura ku bijyanye n'ubuvuzi bwahabwa abaturage, hari umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, ari gutungira urutoki abandi bose bari aho icyapa kiri aho, abereka ukuntu bagomba kurandura burundu indwara ya malariya.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, muri iyo nyubako harimo umuganga wambaye impuzankano y'abaganga n'agapfukamunwa; hakaba harimo ibitanda biryamyeho abarwayi bari kuvurirwa aho ngaho; nkuko bigaragara aha ni mu isuzumiro.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro hakaba hari abantu bari kuyifotoreza iruhande, abazungu ndetse n'abirabura. Iki cyapa rero bari kwifotorezaho kigaragaza ko ari ibitaro bya Butaro mu karere ka Burera.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, iyi nyubako ikaba ifite inkuta ziriho irangi ry'umweru, hakaba harimo icyuma gisuzumirwamo abarwayi, aho umurwayi bamuryamisha kuri iki gitanda maze bakamenya uko ubuzima bwe buhagaze.

Ni inyubako y'ivuriro, hakaba hagaragara inyuma y'uruzitiro rwaryo imyicundo, iyi myicundo ni iyo abana bicundaho mu gihe bagiye kwivuza, mu rwego rwo kugira ngo barebe ko uburwayi bwagabanuka.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, ni inyubako yubatse mu buryo bugezweho, ikaba ifite inkuta ziriho irangi ry'umweru inzugi z'umukara ndetse n'ibirahuri, hejuru hariho parafo ndetse n'amatara, ni byiza kugira inyubako nk'iyi.

inyubako nziza cyane y'ivuriro mo imbere turi kubonamo abaganga bambaye impuzankano ndetse imbere ya bo hateretse uducupa, iyi nyubako ifite inkuta ziriho irange ry'umweru ndetse ikaba ifite n'amadirishya ariho ibirahure.

Iyi ni inyubako ikorerwamo siporo zigiye zitandukanye, hakaba harimo icyuma kabuhariwe k'ikoranabuhanga kimanitse hejuru, ndetse n'agatanda kacyo kari hasi, hakaba hari agatebe ukoresha siporo aba yicayeho.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro ifite inkuta zisize irangi ry'umweru, hasi hari amakaro mo imbere muri iyo nyubako harimo intebe nziza cyane, ndende, hakabamo n'ameza ateretseho mudasobwa.

Umusore uri muri siporo, umuganga wambaye impuzankano y'abaganga, ari kumugororera ivi amufasha gukora siporo gake gake kugira ngo abashe gukira vuba, yakoze impanuka ubwo yari muri siporo yikubita hasi, none ivi rye ryarangiritse.

Aya ni amoko agiye atandukanye y'imiti, yifashishwa n'abantu bari muri siporo. Aka gakarito kakaba karimo umuti w'amavuta bisiga ahantu hagize imvune, uzwi nka pomade.

Agasanduku k'icyatsi kibisi karimo imiti umuntu ashobora gukenera igihe cyose akoreye impanuka muri siporo. Iyi mitirire harimo ibinya, amapomade ndetse na bande.

Uwo musore uri muri siporo yambaye agasengeri ndetse n'ikabutura, yambaye inkweto za siporo afite amaboko manini cyane, hakaba hari umukobwa uri kumureba w'umuzungu, bigaragara ko ariwe umukoresha siporo.

Ibikorwa bya siporo ni bimwe mu bituma abantu bagira imibiri ikomeye, aba ni abasore bari gukina umukino, aho umwe ari gufata undi ugahita ubibona ko kubera siporo bakora bose bakomeye.

Uwo musore wambaye agapira k'amaboko magufi, afite icupa ry'amazi ku munwa, akaba ari muri siporo, ari gukorera siporo ahantu heza cyane, hari ibyatsi bisa icyatsi kibisi kandi bitanga umuyaga.

Umusore uri muri siporo, hejuru ntamwenda yambaye, yambaye agakabutura kagufi ndetse n'inkweto za siporo, ari kugorora amaguru n'amaboko icyarimwe, ni byiza gukora siporo kuko bikomeza umubiri maze ukagira ubuzima bwiza.

Ni inyubako nziza cyane ikorerwamo siporo, iki ni icyuma bagushyiraho bakakugororera umugongo maze ugataha ingingo zose zagororotse, siporo ni ubuzima, abantu bose bakwiye gukora siporo mu rwego rwo gusigasira amagara yabo.

Uyu ni umusore wazindutse ajya muri siporo, ariko kuri iyi nshuro ntibyamuhiriye nk'uko byari bisanzwe, kuko yaje gutsikira maze akikubita hasi, agira ikibazo gikomeye mu itako rye ry'ibumoso, akaba yicaye hasi ari kwikanda.

Umukobwa wambaye agasengeri gato cyane k'umukara ndetse n'ipantaro imufashe yarambuye agakeka ari gukora siporo, afite imisatsi miremire ikora mu mugongo ari kugorora amaboko, amaguru ndetse n'umugongo.

Umusore wambaye agasengeri cy'icyatsi kibisi, ni umusore ufite ibiga ngo, akaba afite amazi ari kwisuka mu maso. Aya mazi akaba ari kumufasha kuruhukamo kugira ngo akomeze akore siporo ze.

Ibi ni ibikoresho byifashishwa mu gihe umuntu agiye muri siporo, akaba byamufasha ahuye n'impanuka, harimo uturindantoki hakabamo imikasi, hakabamo pomade ndetse na bande, aha ngaha rero ni byiza ko nawe witwaza kimwe muri byo igihe ugiye muri siporo.

Umukobwa wambaye agasengeri k'umukara, ipantaro y'umukara, akaba ari gukorera siporo mu nzu imbere irimo amakaro, ikaba yubakishijwe amatafari ahiye, ikaba iriho n'amadirishya ariho ibirahure. Siporo ni ubuzima!

Ikirahure bari gusukamo amazi. Iki kirahure rero kikaba kirimo amazi meza. Ni byiza kunywa amazi mu gihe uvuye muri siporo kandi ukayanywera mu kintu gisukuye. Mu rwego rwo kugira ngo wirinde indwara ziterwa n'umwanda.

Ubu ni ubwoko bw'imiti igenewe abantu bakora siporo mu rwego rwo kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza. Ni ibinini birambitse ku gasahane ndetse hakaba hari n'ikaramu muganga yifashisha mu gihe ari kubibandikira.

Umwari w'umukobwa wambaye agapira kagufi, akaba afite isume ku rutugu, afite icupa ry'amazi ari kuyanywa araramye. Aya mazi ari kuyanywa kubera ko avuye muri siporo, siporo ni ubuzima, tuzikore twese kandi tuzikunde.

Aka ni kamwe mu karinda abakora siporo kuba bavunika ingingo, aho ukambara ku buryo uramutse ugize impanuka ukikubita hasi, urugingo rwawe rudashobora kugira ikibazo ruhura na rwo.

Umukobwa usoje siporo, akaba afite icupa ry'amazi ku munwa, arararamye ari kuyanywa yishimye. Imbere ye hari ikirere cyiza cyane gifite amabara y'ubururu ndetse n'umweru, akaba akorera siporo ahantu heza cyane.

Aba ni abana bari muri siporo. bakaba bari mu kibuga cy'umupira w'amaboko uzwi nka Basket. Inyuma yabo hari abantu baje kubafana. Bari kubafana cyane, ndetse na bo bari gukinana umurava ndetse n'ishyaka.

Umusore wagiriye ikibazo muri siporo. Hakaba hari umuganga w'umuzungu uri kumwitaho, uyu muzungu yambaye isaha ku kuboko ari kuzamura ukuguru k'uyu musore, agenda agukoresha siporo kugira ngo ingingo zisubirane.

Uyu ni umusore uri muri siporo yambaye imyenda yabugenewe yo gukorana na siporo, inyuma ye hakaba hari zimwe mu mbuto ndetse n'imboga, umuntu ukora siporo akwiye kurya, hari karoti nziza cyane, hakaba inoryi, amarongi ndetse n'inyanya.

Ibi ni bimwe mu bikoresho byifashishwa mu gihe cya siporo. Turi kubona umuntu uhagaze, uhagaze mu bikoresho bigiye bitandukanye nka pomade, inkweto, ibikapu bibikwamo ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Umusore wambaye agapira k'umukara ndetse n'ikabutura y'umukara, afite isaha ku kuboko, ari muri siporo, arunamye yifashe mu ivi nk'aho bigaragara ko akeneye muganga, ashobora kuba yagize ikibazo cy'imvune.

Umukobwa uri muri siporo yambaye agasengeri ndetse n'ipantaro, yarambuye umukeka hasi mu nzu, akaba ari kugenda agorora amaguru, amaboko ndetse n'umugongo, ni byiza gukora siporo kabone n'ubwo twaba tuzikoresheje.

Umusore wambaye agapira k'amaboko magufi akaba yambaye ekuteri mu matwi, afite icupa ry'amazi ari kugenda ayanywa. Avuye muri siporo afata amazi arayanywa kugirango abanze aruhuke kandi umubiri we ugarura imbaraga.

Amacupa atatu arimo umuti gakondo. Yose afite imipfundikizo myiza kandi y'umweru. Hakaba Hometseho ibyapa bigaragaza uko uwo muti witwa ndetse n'icyo uvura. Uyu muti urizewe.

Iyi ni imiti yifashishwa mu gihe cya siporo, harimo iri mu dukarito ndetse n'iri mu ducupa hakaba harimo n'umukasi, ni byiza gukora siporo kandi ukaba ufite na muganga.

Umumama wambaye ijire y'ubururu irimo utubara tw'umweru, ari kugenda asuzuma akana kari hano aho yagatunzeho akamikoro, akaba ariko kareba neza uko ubuzima bwako buhagaze nk'umuntu wabigize umwuga.

Umusore uri muri siporo arunamye. Ari kugorora umugongo, amaguru ndetse n'amaboko. Uyu musore ari gukorera siporo mu muhanda mwiza ushashemo amapave. Ku mpande hakaba hariho ibyuma by'umukara.

Umukobwa wavunikiye muri siporo, akaba yaragize ikibazo mu ivi, hakaba hari umuforomokazi wambaye umwenda w'umukara, arikugenda amugororera ivi rye kugira ngo yongere abashe gutambuka.

Agakapu gafite amabara atukura ndetse n'ay'umukara, harimo ibikoresho bigiye bitandukanye ushobora kwifashisha mu gihe cya siporo, harimo bande hakabamo imikasi, hakabamo ga ndetse n'ibinya, aha rero ukaba wabyifashisha.

Umukobwa wambaye agasengeri k'ubururu afite imisatsi miremire, afite icupa ry'amazi ari kuyanywa, nk'uko bigaragara uyu mukobwa yari ari muri siporo, kandi yazikoreraga ahantu heza cyane hari amahumbezi ndetse hari n'amazi atemba mu kiyaga.

Aba ni abantu bari muri siporo rusange, aho umwe ari kugenda yigorora ndetse bakora ibintu bimeze kimwe, bari gukorera siporo ahantu heza cyane hasashe amapave, hakaba hari n'ibiti bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Umusore uri muri siporo yambaye agapira k'amaboko magufi ndetse n'ukuboko kurekure iburyo, akaba ari kwimena amazi mu maso yakoze siporo nyinshi cyane arananirwa, aha ari kwimenaho amazi kugira ngo agarure ubuyanja.

Uwo umusore uri muri siporo yambaye agapira k'amaboko magufi, akaba afite icupa ry'amazi ku munwa ari kugenda ayanywa, aho ahagazemo gake ngo abanze aruhuke, imbere ye hakaba hari ibiti byiza cyane bitanga umuyaga.

Umuganga wambaye impuzankano y'umweru, akaba yambayemo karuvati mo imbere ye, afite icyumvirizo mu ijosi, akaba afite umupira mu ntoki ukinwa w'amaboko, aho uyu muganga avura indwara zererekeranye na siporo.

Uyu ni umwari wavunitse mu gitondo cya kare ubwo yari ari mu myitozo ngororamubiri. Yaje kwa muganga bamwicaje ku gatanda kariho matera y'umukara. Hakaba hari umusore wambaye agapira k'umukara uri kugerageza kumuzikira bande ku kirenge cye cy'iburyo kugira ngo arebe ko urwo rugingo rwagororoka.

Umusore wambaye agapira k'umukara akaba afite icupa ry'amazi mu ntoki, ari kugenda ayanywa gake gake, aho avuye muri siporo, akaba ari kuruhukamo kugira ngo agarure imbaraga yatakaje.

Iki ni igikoresho kigezweho, cyifashishwa mu gihe cya siporo. Gifite utubuto tugiye dufite amabara atandukanye, harimo: ubururu, umukara ndetse n'umweru.

Iyi modoka y'imbangukiragutabara iri mu muhanda wa kaburimbo, aho bigaragara ko iri gukata mu muhanda ku buryo ugize impanuka bamuha ubutabazi bakamugeza ku ivuriro.

Uyu ni umusore wagize ikibazo cy'imvune mu kuguru kwe, akaba ari kuhagora, yashyizeho agashashi gakonje kugira ngo uru rugingo rugororoke maze yongere atambuke, abashe gukora siporo nk'uko yabikoraga.

Aka ni agasanduku gapakiyemo amoko y'imiti agiye atandukanye yifashishwa muri siporo. Harimo igikoresho nk'umukasi. Hakabamo imiti iri mu dukarito igiye itandukanye, ni byiza gukora siporo dufite abatwitaho.

Umusore wambaye agapira k'ubururu afiteka icupa ry'amazi mu ntoki, afite ubwanwa buke ndetse ari kunywa amazi nk'uko turi kubibona. Amazi ni ubuzima, siporo ni ubuzima kurushaho, tujye dukora siporo kugira ngo umubiri wacu ukomere.

Ni umusore uri kugororwa ivi n'umuganga wambaye impuzankano y'umweru ndetse n'icyumviro mu ntoki, uyu musore yavunikiye muri siporo, muganga agerageza kumwitaho kugira ngo akire vuba maze yongere ajye mu bikorwa bye byubaka umubiri.

Uwo mu umukobwa wambaye agasengeri, akaba ari gukora siporo, ari kugorora amaboko, agorora umugongo, ari kwitegereza ahantu hari ibiti byiza cyane, bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Umusore uri muri siporo yambaye isengeri y'umukara ndetse n'ikabutura y'umukara, yamanitse ukuguru ku rugo, aho ari kugenda akugorora, ni byiza gukora siporo cyane cyane ku bakiri bato, kuko bituma iminsi yo kubaho yiyongera.

Abaganga bambaye udupfukamunwa ku meza hakaba hariho mudasobwa, ku rukuta hakaba hari ibishushanyo bose barahagaze nk'uko bigaragara bari mu mahugurwa.

Umukobwa wambaye agasengeri k'umukara, akaba yambaye ipantaro y'umukara, inkweto z'umweru, yambaye ekuteri mu matwi; akaba yambaye n'akantu kamufasha kumenya ibirometero yakoze; ari gukora siporo arambura amaguru ndetse n'amaboko.

Umukobwa wambaye agasengeri gato cyane k'umukara, afite imisatsi miremire iri kujya inyuma ndetse yambaye n'agakabutura k'umukara, imbere ye hari icupa ry'amazi, akaba ari gukora siporo, aho agorora imbavu ndetse n'amaboko icyarimwe.

Uyu ni umwari wambaye agasengeri ndetse n'ipantaro, yambaye n'inkweto za siporo. Yicaye hasi ari kugorora amaguru ye, amaboko ndetse n'umugongo. Aho yahinnye akaguru k'ibumoso, arangije arambura ik'iburyo, arambura n'amaboko ye yombi.

Ibi ni bimwe mu bikoresho byifashishwa mu gihe cya siporo, aho bigufasha kugorora ingingo zigiye zitandukanye; aha bari kuvuga ngo ''yagufasha gukuraho inda bikoroheye''.

Ikirahure giteretse hasi ku meza, turabona akaboko gafite ijage irimo amazi, bakaba bari kuyasukamo, iyo uvuye muri siporo biba ari ingenzi gufata ikirahure kimwe cy'amazi, ukakinywa kugirango ubuzima bwawe burusheho kumera neza.

Aha ni aho bavurira abantu bagiriye ibibazo muri siporo, harimo abaganga benshi cyane bambaye impuzankano y'ubururu, hakaba hari utwuma duteretse ku meza turi kubisahani, aba bakaba bari kwihugura.

Siporo ni kimwe mu bituma umubiri w'umuntu umera neza, niyo mpamvu buri muntu yagakwiye kugira siporo akora mu rwego rwo kugira ngo asigasire kandi arinde amagara ye, bityo azakure ameze neza.

Ibi ni bimwe mu bikoresho ushobora kwifashisha mu gihe uri muri siporo, ibi bikunze kugaragara cyane cyane ku bibuga by'imipira y'amaguru, ahabereye imyidagaduro ndetse n'ahandi, kuko baba biteguye ko isaha n'isaha byafasha umuntu.

Iyi nyubako nziza cyane ikorerwamo siporo, harimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu gihe cya siporo, harimo udutanda, hakabamo urwuma ndetse harimo n'inkingi zitandukanya inkuta z'iyi nzu.

Uyu ni umwari uri muri siporo. Yambaye agasengeri gato cyane k'umukara, gapfutse amabere gusa. Akaba yambaye telefone ye ku kuboko, harimo ekuteri z'umweru zikaba ziri mu matwi, ari kugorora amaboko, amaguru, ndetse n'umugongo.

Umukobwa wambaye agasengeri k'umweru ndetse n'ipantaro y'ubururu, akaba ari gukorera siporo mu nzu. Yarambuye agakeka, ari kugorora amaboko, amaguru ndetse n'umugongo. Imbere ye hakaba hari indabyo nziza cyane ari gukora siporo areba.

Umukobwa wambaye akenda kagufi ko hejuru, yambaye ipantaro y'umukara ,yarambuye agatapi hasi ari gukora siporo, ari kugorora umugongo ndetse n'amaboko, akaba afite ahantu heza arigukorera siporo harimo n'uturabyo.

Umuntu umwe uri mu kabara k'ubururu ari kwirukanka, ndetse uri musaraba uri mu k'umutuku ugaragaza ikigo cy'igihugu gitanga ubutabazi, hakagaragara ibiganza bibiri bisuhuzanya ndetse n'umugabo uri gukina umukino njyarugamba.

Ibi ni bimwe mu bikoresho ushobora kwifashisha mu gihe uri gukora siporo mu rwego rwo kugira ngo umenye ingano wakozeho siporo. Siporo ni ubuzima tugomba kuzikora tugakora iziri mu rugero kandi zipimye.

Imikino yagarutse. Hagiye kuba siporo zigiye zitandukanye zijyanye n'ubuvuzi mu rwego rwo kugira ngo tugorore imitsi kandi duhabwe ubuvuzi buboneye. Buri muturarwanda wese asabwe kuzahagera.

Umusore uri muri siporo yicaye hasi yambaye isengeri y'umukara ndetse n'isaha ku kuboko. Akaba afashe ukuboko kwe kw'iburyo agufatishije ukuguru kw'ibumoso ndetse ukuboko kw'ibumoso kukaba gufashe mu bworo bw'ikirenge, ari kugorora ikirenge ndetse n'akaguru icyarimwe.

Ni musore wambaye agapira k'icyatsi kibisi, akaba afite baro mu ntoki iriho kane, akaba agaragara nk'uvuye muri siporo cyangwa se nk'ugiye yo. Siporo ni ubuzima twese tujye tuzikunda kandi tuzikore.

Ukobwa bigaragara ko yashishikaye yambaye agasengengeri k'icyatsi kibisi, agakabuturara kagufi k'ubururu, akaba ari gusunika icyuma kiremereye kugira ngo akomeze amaboko ndetse n'amaguru. Ari gukorera siporo ahantu heza hasa icyatsi kibisi.

Umusore bigaragara ko avuye muri siporo, afite ekuteri mu izosi akaba yambaye agapira k'ubururu, yambaye bande ku kuboko ndetse ku kuboko kwe kw'ibumoso hariho akantu k'umukara, afite icupa ry'amazi ari kuyanywa.

Umusore uri mu cyumba gikorerwamo siporo, akaba ari gukora ku bikoresho bimwe na bimwe biri muri kino cyumba, iki cyumba kiratangaje cyane kuko kirimo ibikoresho byiza cyane ushobora kwifashisha mu gihe uri muri siporo.

Amoko agiye atandukanye y'imiti ndetse n'ibikoresho umuntu ashobora kwifashisha mu gihe cya siporo, harimo imikasi hakabamo pomade, harimo inshinge zitera ibinya ndetse hakabamo n'uturindantoki umuntu ashobora gukoresha, ni byiza gukora siporo ufite imiti.

Umusore uri muri siporo bigaragara neza ko yavunitse muganga akaba ari kumukoresha udusiporo gake gake kugira ngo agorore ingingo. Ni umuforomokazi wambaye impuzankano y'ubururu.

Uwo musore wambaye igisenge y'icyatsi kibisi, afite amaboko manini, afite icupa ry'amazi ari kuyanywa, nk'uko bigaragara rero yari ari muri siporo, imbere yiwe hari inzu nyinshi cyane, bigaragara ko ari ahantu batuye ndetse hari n'ibiti bitanga umuyaga.

Ibi ni bimwe mu bikoresho byifashishwa mu gihe cya siporo, aha harimo imipira umuntu ashobora gukina. Ndetse hakabamo n'ingofero ishobora gukingira amaso yawe n'umutwe bigatuma bitangirika.

Ni umusore wavunitse ari muri siporo, aha ngaha akaba aryamye ku gatanda. Hari umugabo wambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'umukara uri kumugorora gake gake, kugira ngo ingingo zigororoke maze abashe kongera gutambuka, siporo ni ubuzima nubwo hari igihe duhuriramo n'impanuka.

Uyu ni umusore ufite amaboko manini cyane yambaye agasengeri k'umukara, ipantaro y'umukara irimo utubara tw'umweru ndetse n'inkweto za siporo, ari kugorora amavi ye, amaboko ndetse n'umugongo. Siporo ni ubuzima tujye tuzikora.

Ayni ni amoko y'imiti ushobora kwifashisha mu gihe ugiriye ibibazo muri siporo: aha harimo ibinini, hakabamo ibinya, hakabamo bande na pomade ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye wakwifashisha.

Umusore uri muri siporo ari ahantu mu nzu nziza cyane, hasi hasa icyatsi kibisi hakaba harimo uturongo tw'umweru. Ari kugerageza kuzamura amaguru ye agorora amaguru n'amaboko, yambaye agapira k'umukara n'agakabutura k'umukara ndetse n'inkweto za siporo.

Uyu ni umusore wavunikiye muri siporo, bakaba bari kumuha ubutabazi bw'ibanze, aho bamuryamishije hasi, maze amaguru ye bayazikira ku biti, kugira ngo ingingo zikomeze zigororoke bityo agezwe kwa muganga.

Aya ni amoko y'imiti gakondo agiye atandukanye akaba ateretse ahantu hamwe, ni udusorori twinshi cyane turimo amoko agiye atandukanye y'imiti yifashishwa mu gihe baba bari kuvura abarwayi.

Ibi ni ibimera bifite amababi y'icyatsi kibisi, hakaba ari ahantu hari ibimera, ibi bimera bifite uburyo bivamo umuti gakondo aho babifata bakabitunganya maze bikazavamo umuti uvura abantu.

Iyi ni inzu irimo imiti igiye itandukanyiye ikomoka ku bimera, cyangwa se imiti gakondo, iyi miti yose rero ikorwa mu bimera kandi ikavura indwara zigiye zitandukanye.

Ibi ni ibyatsi bikaba bisa icyatsi kibisi, ibi bikaba bivamo umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye zikomeye zananiranye kwa muganga, maze bagakira abazirwaye.

Umuti gakondo ufunze mu macupa agiye atandukanye. Harimo ufunze mu macupa mato n'ufunze mu macupa manini. Hakaba hari n'uri mu bimeze nk'ibicupa bya korogate, uyu muti ukaba ushushanyijeho ibikakarubamba.

Ubu ni ubwoko bw'umuti gakondo ukomoka ku bimera, akaba ari amacupa arimo umuti w'amenyo ukozwe mu gikakarubamba, ndetse n'ubuki, uyu muti ukaba uvura amenyo kandi ugatuma agira isuku.

Ubu ni ubwoko bw'ibimera, ibi bimera rero bikaba bivamo umuti gakondo, ni byiza ko Leta yafata ingamba zigiye zitandukanye zo kurinda ndetse no gusigasira ibi ibimera kuko byifashishwa mu gutegura imiti.

Ubu ni ubwoko bw'ikimera kikaba gifite amababi y'icyatsi kibisi ndetse n'umuhondo, akaba ari ikimera kifashishwa, igihe wari gutegura umuti gakondo uvura indwara zitandukanye zananiranye kwa muganga.

Ibimera byiza cyane, biteye ahantu hamwe, hari amashyamba maremare ndetse hari n'ibindi bigufi, bifite amabara y'icyatsi kibisi ndetse n'umuhondo, Leta y'u Rwanda ikwiye kubungabunga ahantu hose hari ibimera, kuko bivamo imiti igi ye itandukanye ya gakondo.

Ubu ni ubwoko bugiye butandukanye bw'imiti, iyi miti rero yose ikaba ikoze mu bimera bakaba bayita imiti ya gakondo, aho ivura abantu kwa muganga byananiranye.

Ubu ni ubwoko bw'ibimera bigiye bitandukanye, turi kubona ibiti biteretse mu ndobo ndetse izi ndabo zikaba ziriho amababi. Aya mababi akoreshwa hategurwa umuti gakondo, aho bawusaroma bakawutunganya maze bakawuha abantu ukabavura.

Icupa ry'imiti gakondo, ayo macupa yose atondetse ku murongo kandi agiye ariho ibyapa bigaragaza ko uyu muti ufite ubuziranenge, bagasobanurira abantu ibiwugize ndetse n'uko ukoreshwa.

Ayo n'amoko y'ibimeragiye agiye atandukanye turi kubona tungurusumu, tukabona amapapayi, tukabona tangawize ndetse n'ibindi bibabi, aya akaba akorwamo umuti gakondo wizewe kandi bakawucuruza usa neza cyane, abarwayi bakawugura.

Aha ni mu isoko iki ni igice gicururizwamo imiti gakondo cyangwa se imiti ikomoka ku bimera, hari amacupa menshi ateretse ku meza arimo iyi imiti igiye itandukanye, iyi miti iyo yateguwe neza iravura.

Imiti gakondo ni imwe mu miti ikoranwa ubuhanga kuko abayikora usanga baba bafite ubumenyi budahangarwa kandi bw'indashyikirwa aho afata ibibabi akabika, yarangiza akabikoramo umuti w'ifu.

Aka ni agacupa karimo umuti gakondo, kakaba gapfundikishije umupfundikizo w'umweru, hari amagambo ari mu ibara ry'icyatsi kibisi agaragaza ko uyu muti uvura kurangiza vuba, gucika intege mu gutera akabariro, ingaruka zo kwikinisha ndetse n'ibindi.

Aya ni amoko agiye atandukanye y'umuti gakondo. Akaba ari mu bintu bigiye bitandukanye. Hari ari mu macupa manini ndetse n'ari mu macupa mato. Hakaba hari amagambo yanditswe mu ndimi z'amahanga, ndetse kuri aya macupa hakaba hashushanyijeho ibikakarubamba.

Ubwoko bw'ibimera bigiye bitandukanye bikaba bivamo umuti wifashishwa mu kuvura wa gakondo, uyu muti uba wizewe kuko utegurwa neza maze ugasuzumwa ugahabwa ubuziranenge.

Iyi ni imiti gakondo ikaba iri mu macupa atandukanye ndetse no mu makarito atandukanye, hariri mu ducupa tunini ndetse n'iri mu ducupa duto, hakaba n'iri mu makarito manini ndetse n'iri mu dukarito duto, yose ikaba ivura.

Agacupa gato karimo imiti gakondo. Uyu muti ukaba ukozwe mu bimera ndetse no mu buki. Aha hakaba hariho akapa kagaragaza ibigize uyu muti ndetse n'uko ukoreshwa.

Uyu ni umuti gakondo watunganyijwe. Uyu muti ukaba uvura uburwayi bugiye butandukanye, aho iyi miti ihabwa ubuziranenge maze igacuruzwa mu buryo bwemewe.

Ubu ni ubwoko bw'imiti gakondo bugiye butandukanye, ikaba iri mu mabara atandukanye harimo; umutuku, umuhondo, hakabamo iroze, hakabamo umukara ndetse n'andi agiye atandukanye.

Ubu ni ubwoko bw'umuti gakondo. Hakaba hari ikimera uturukamo ndetse hakaba hari n'agakoko gashushanyijeho. Ni igikakarubamba ndetse n'uruyuki. Uyu muti ukoze mu mutobe w'igikakarubamba ndetse n'ubuki.

Agacupa gato karimo imiti gakondo. Kakaba gafite umupfundikizo w'umweru, kariho icyapa cy'umutuku. Ndetse hakaba n'ibara ry'icyatsi ririmo amagambo agira ati: "Uvura kurangiza vuba ndetse no gucika intege."

Iki ni ikimera gakondo, kikaba gifite amababi y'umukara, ibimera ni bimwe mu bivamo imiti gakondo, yifashishwa mu kuvura uburwayi bugiye butandukanye, aho abarwayi bayifashisha maze bagakira neza.

Ibirahuri bibiri biteretse ku meza, bikaba birimo amazi ndetse muri ayo mazi harimo ibibabi. Uyu ni umuti gakondo, aho baba basaruye ibibabi bakabitunganya maze bakabishyira mu mazi kugira ngo havemo umuti.

Ubu ni ubwoko bw'ikimera kivamo umuti gakondo kizwi nk'umuravumba. Umuravumba uvura indwara zigiye zitandukanye harimo izifata mu buhumekero, izifata mu nda ndetse n'izindi zitandukanye.

Agacupa ka palasitike gapfundikije umupfundikizo w'umuhondo, hakaba hariho icyapa gishushanyijeho ibimera aho bagaragaza ibigize uyu muti gakondo ufungiye mo.

Aka ni agacupa gato karimo umuti w'amenyo, kakaba kari ahantu hasa umukara, iyo ufite umuti ukawushyira ku buroso bw'amenyo ukayoza neza cyane cyane uyu ukomoka ku bimera mikorobe zose zirapfa.

Ni amoko y'imiti agiye atandukanye, turi kubona uducupa dushushanyijeho igikakarubamba ndetse n'izindi mbuto, hari ari mu ducupa n'ari mu dukarito, akaba ari ahantu hasa umweru, aha rero iyi miti gakondo iravura kandi irizewe.

Ubu ni ubwoko bw'ikimera gitegurwamo umuti gakondo, uyu muti ukaba wifashishwa havurwa uburwayi bugiye butandukanye nk'uko bimenyerewe imiti gakondo na yo ifasha abarwayi mu gukira.

Ibi ni bimwe mu bikorwamo umuti gakondo uvura neza cyane kandi wizewe, ni ibitunguru byiza cyane igikase n'ikidakaze, hakaba indimu aho uyicimbura, warangiza ugafata umutobe w'indimu, ukawukatiramo ibitunguru ugashyira mu icupa ryiza cyane, maze uyu muti ukavura.

Aya ni amoko yibimera afite ibibabi by'umuhondo ndetse andi akagira iby'icyatsi kibisi, byose biteretse mu ma vase ari ahantu mu gipangu, ibi bimera bikorwamo umuti gakondo uvura.

Amacupa agiye atandukanye arimo imiti gakondo, iyi ni imiti iba yarasaruwe igatunganywa neza barangiza bakayizana, bayizana bakayitegura bakayigurisha imeze neza nkuko uri kubibona.

Aya ni amoko agiye atandukanye y'imiti gakondo, akaba afungiye mu macupa agiye atandukanye hari ifungiye mu macupa y'umukara, akaba ifungiye mu macupa y'icyatsi kibisi, iyi miti yose iravura.

Agacupa gato karimo umuti nk'uko bigaragara turikubona hariho umupfundikizo utukura ko kakaba gasa umweru, uyu muti ukomoka ku bimera cyangwa se hari n'abayita imiti gakondo ikaba ivura abantu indwara zananiranye kwa muganga.

Agacupa karimo umuti ukomoka ku bimera. Aka gacupa gasa umweru ndetse gafite n'umupfundikizo w'umweru, kakaba kariho icyapa cy'umweru kiriho amagambo yanditse mu ibara ry'umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi, ahangaha rero uyu muti uravura.

Ubu ni ubwoko bw'umuti ukomoka ku bimera, bakaba baramaze kuwutunganya neza, bawufungira mu ikarito nziza cyane, aha wamaze kugera ku isoko abarwayi bari kuwugura.

Amoko y'ibimera atandukanye, ari kugaragaza imiti ikomoka ku bimera cyangwa se imiti gakondo, ahangaha rero abahanga mu kuyitegura baraza bakayisoroma maze bakayitunganya neza ikavura abantu.

Amoko y'ibimera biteye hasi, ibimera ni bimwe mu bivamo umuti gakondo kandi uvura, bisigaye bisaba kubirinda kugira ngo uyu muti ubashe kuboneka kuko uvura.

Aya ni amoko agiye atandukanye y'ibimera bivamo umuti gakondo, hakaba hari ibiri mu mavaze kandi bigiye bifite amoko atandukanye ndetse n'amabara atandukanye, harimo ibifite uturabyo tw'umuhondo.

Icupa rito ry'umweru rifite umupfundikizo w'ubururu, rikaba riri ahantu hasa umukara. Uyu ni umuti uvura ndetse ukomoka ku bimera cyangwa se umuti gakondo woza amenyo, agakira kandi ntagire aho ahurira n'indwara ziterwa n'umwanda.

Ni ubwoko bw'ibimera bisa neza cyane bifite uturabyo, nkuko tubibona rero aha ngaha hakaba hateye ibimera. Leta y'u Rwanda ikwiye kubungabunga ibi bimera ,kugira ngo abanyarwanda babashe kujya babona imiti bivurisha.

Amoko y'imiti gakondo agiye atandukanye. Aha turi kuhabona agasekuru karimo imiti bagenda bifashisha, tukabona imbuto zihateretse, tukabona uduti tuhateretse ndetse n'amababi. Ibi byose bikaba bivamo umuti.

Ubu ni ubwoko bw'ibimera bigiye bitandukanye, ibi bimera bikaba byifashishwa mu gihe hari gutegurwa umuti wa gakondo aho babisoroma barangiza bakabitunganya neza bagakoramo umuti uvura kandi wizewe.

Igiti kirekire, gifite amababi ndetse n'amashami bihanamye. Iki giti rero gitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi, si ibyo gusa kuko gitanga n'umuti ukomoka ku bimera cyangwa se umuti gakondo.

Aha ni ahacururizwa imiti gakondo ikaba ihari myinshi cyane, iri mu makarito ndetse no mu macupa meza cyane kandi manini, hakaba hari umugabo uri kuvugana n'umwari uyicuruje kugira ngo nawe awugure.

Agacupa gato karimo umuti ukomoka ku bimera inyuma yako hari ikimera cy'icyatsi kibisi ituze cyitwa kapisinine ndetse imbere yacyo hari ibinini hakaba hari n'amagambo agaragaza ko uyu ari umuti usukura ubwonko kandi ugatuma uwukoresha agira intego.

Ubwoko bw'ibimera bigiye bitandukanye biri ahantu hamwe, ni byinshi cyane, ibi bimera bikaba byifashishwa mu gihe hatunganywa umuti gakondo, ubu buvuzi bwahozeho kuva kera kandi bwari bwizewe.

Ubu ni ubwoko bw'ikimera, iki kimera bagikoramo imiti kiravura ariko nanone iyo ugikoresheje nabi kirica kuko turakizi neza kitwa urumogi, abatakizi bashobora kukibona hano gifite ibara ry'icyatsi kibisi ndetse harimo n'akandi k'umuhondo.

Aya ni amoko y'imiti igiye itandukanye ivura amenyo kandi ikomoka ku bimera cyangwa se imiti gakondo, turi kubona uburoso bw'amenyo busa umukara ndetse tukabona n'umuti w'amenyo ushushanyijeho igikakarubamba.

Amoko y'ibimera agiye atandukanye turi kuyabona. Ibi bimera rero byose babikoramo imiti ikomoka ku bimera. Aho bayitunganya neza maze ikavamo imiti ivura abantu bafite uburwayi bugiye butandukanye.

Ni amoko agiye atandukanye yibimera harimo amababi ndetse hakabamo n'andi afite imbuto. Ibi byose barabyegeranya bakabikoramo umuti turi kubona kapisine ndetse n'igikakaruwamba, ibi ni bimwe mu bimera bivamo umuti gakondo umezeze neza.

Ibi ni ibimera bitanga umuti gakondo bikaba bifite ibara ry'icyatsi kibisi, aho babisarura bakabitunganya neza maze bikavamo imiti ivura indwara zigiye zitandukanye, haba izo mu nda ndetse n'izindi zose.

Ubu ni ubwoko bugiye butandukanye bw'ibimera, harimo amababi ndetse harimo n'ibifite imbuto. Byose icyo bihuriyeho ni uko babitunganya maze bakabikoramo umuti mwiza wa gakondo.

Agacupa karerekare karimo umuti gakondo, ni agacupa gashushanyijeho agakoko, hakaba hariho n'amagambo yanditswe mu ibara ry'ubururu, imbere yaho ari igikakarubamba gikataguyemo ibice.

Aya ni amacupa arimo imiti gakondo cyangwa se imiti ikomoka ku bimera. Hakaba harimo umuti w'amenyo ushushanyijeho igikakarubamba ndetse n'utubido tw'umweru. Harimo n'ak'umuhondo, hose wometseho utwapa tugaragaza uyu muti uko witwa.

Agasekuru karirimo n'umuhini gateretse ku nkoko iriho ibimera bigiye bitandukanye bifite amababi y'icyatsi kibisi ndetse na oranje, hateretseho n'agacupa karimo amavuta.

Aya ni amoko y'ibimera. Turi kubona ibitoki, tukabona ibijumba, tukabona n'ibimera bifite amababi y'icyatsi kibisi, ibi byose babikoramo umuti. Uyu muti uvura abantu kandi uba wizewe, mu gihe nawe urwaye wawubura.

Aya ni amoko atandukanye y'imiti: imwe iri mu dukarito ndetse iyindi ikaba iri mu ducupa. Iyi miti yose iravura kandi ni imiti gakondo, hakaba hariho ishushanyijeho icyatsi bita igikakarubamba.

Ikiganza kimwe gifite uburoso bw'amenyo, ikindi gifite umuti w'amenyo ukomoka ku bimera, ari ukumusukiraho kugira ngo nawe yoza amenyo ye maze akire uburwayi yari afite kuko uyu muti ni mwiza.

Iki ni igiti kirekire gifite amashami n'amababi arandaranda, kikaba kivamo umuti gakondo, aho gitegurwa maze kikazavamo umuti ufunze mu bwoko bugiye butandukanye bw'amacupa.

Aya ni amoko y'imiti ikomoka ku bimera, aho babisarura bakabyanika bikuma, bakabitunganya neza bakaba babikoramo imiti ikoze mu binini, aho abantu bayinywa.

Amakarito arimo imiti igiye itandukanye ikomoka ku bimera. Iyi miti ifunze mu ducupa tw'umuhondo ndetse hariho n'imifuniko y'ikigina, hakaba hashushanyijeho igikakarubamba harimo n'amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara.

Aya ni amoko agiye atandukanye y'imiti nk'uko bigaragara rero iyi miti ni imiti ivura kandi igakiza abantu, nawe ufite bumwe mu burwayi ukaba ukeneye ubuvuzi wakoresha iyo miti maze ugakira.

Uyu ni umugabo ucuruza imiti gakondo, yambaye umupira w'umukara akaba yambaye akagofero k'icyatsi kibisi ndetse imbere ye hari imiti myinshi cyane iri mu macupa acuruza, hakaba hari amagambo agaragaza ko kunoza urwego rw'ubuvuzi gakondo yabishyize imbere.

Umwana uri mu miti gakondo, uwo ni umurima uhinzemo ibimera bigiye bitandukanye bivamo umuti, akaba ari gusoroma amababi yagize ikibazo none yagiye kwishakira umuti.

Aha ni hamwe mu hacururizwa imiti gakondo, hakaba hari imiti ipanze mu ma etajeri mu buryo bugiye butandukanye, kandi ikaba iri mu macupa agiye atandukanye. Harimo iri mu ya purasitike ndetse n'iri mu macupa y'ibirahuri.

Amoko y'ibimera agiye atandukanye kandi akaba avamo umuti, ni imiti ifunze mu tuntu tugiye dutandukanye hari ifunze mu macupa maremare n'ifunze mu ducupa tugufi ndetse n'indi ifungiye mu macupa ya korogate.

Aka ni agakarito karimo umuti ukomoka ku bimira, ukaba ari umuti watunganyijwe neza, barangiza bakawufunga mu icupa maze bakawushyira mu ikari ryiza cyane kugira ngo uzagurwe n'abantu bawishimiye.

Iki ni kimwe mu bimera bivamo imiti gakondo, gifite amababi y'icyatsi kibisi bikaba biri ku giti kirekire, iki kimera rero kikaba gitunganywa neza cyane hakavamo umuti uvura indwara zananiranye kwa muganga.

Agacupa gato cyane karimo umuti, uyu muti ukaba uvura indwara zigiye zitandukanye, turi kubona hashushanyijeho igikakarubamba, urunyanya ndetse na pome, aho gateretse harasa umukara, uyu muti uvura neza kandi uba uryoshye.

Aya ni amoko y'ibimera, avamo umuti gakondo, cyangwa se umuti ukomoka ku bimera. Ni byiza ko umuntu akoresha uyu muti, Leta y'u Rwanda ikwiye gufata ingamba zo kuyirinda ndetse no kuyisigasira.

Aya ni amoko agiye atandukanye y'imiti ikomoka ku bimera, afunze mu ducupa tugiye dutandukanye, turiho ibyapa, nka kamwe kariho icyapa cy'umuhondo, akandi kakaba kariho icyapa cy'umweru ariko amagambo yandikishije ubururu, hari n'ikiriho igikakarubamba

Ikimera cyiza cyane giteye mu murima, hakaba hari n'ibindi bimera, gifite amababi y'icyatsi kibisi ndetse amababi amwe n'amwe yariweho n'inyamaswa, aha hakaba havamo umuti mwiza cyane kandi uvura.

Aya ni amoko agiye atandukanye y'imiti gakondo, iyi miti ikaba ifunze mu tujerekani, mu dukarito ndetse no mu ducupa, iyi miti iravura kandi iba yizewe ikorwa mu bimera bihingwa inaha iwacu ndetse no hanze y'igihugu.

Aya ni amoko menshi y'imiti gakondo, ateretse mu ma etajeri, akaba ari mu bikoresho bigiye bitandukanye, hari ari mu macupa ya parasitiki afite imipfundikizo y'umuhondo, ndetse n'andi ari mu bicupa by'umukara by'ibyuma, hose hakaba hometseho ibyandiko, bigaragaza uko uwo mu ukoreshwa.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare, ari mu cyumba kirimo amoko agiye atandukanye y'imiti gakondo, hari ari mu bicupa bya parastiki bifite imipfundikizo y'ubururu ndetse hari n'indi iri mu ndobo.

Ubwoko bw'imiti igiye itandukanye ikomoka ku bimera cyangwa se imiti gakondo, ni agacupa karekare kananutse kakaba gashushanyijeho uruyuki, uyu muti ukaba ukozwe n'ibimera ndetse n'ubuki.

Aka ni agakarito karimo imiti gakondo ikomoka ku bimera, kakaba kari mu mabara y'icyatsi kibisi, umweru, umuhondo ndetse na oranje, bikaba bigaragazwa ko uyu muti ukoreshwa amasaha makumyabiri n'ane mu minsi irindwi.

Agacupa gato cyane k'umuti gakondo kakaba gashushanyijeho uruyuki, ibi bivuze ko uyu muti ukozwe n'ibimera ndetse n'ubuki, aho bitunganywa maze bigahabwa ubuziranenge.

Iki ni ikimera, kikaba gifite amashami maremare ananutsemo ukuntu, kikaba gifite utubabi twiza cyane tw'icyatsi kibisi ndetse hakabaho n'uturabyo dufite amabara y'umuhondo ndetse n'umutuku, iki kimera kikaba kivamo umuti gakondo.

Aya ni amoko y'imiti gakondo akaba afungiye mu macupa ndetse n'amakarito bigiye bitandukanye kandi bikaba bigaragara ko uyu muti ufite ubuziranenge, hakaba hari amagambo yanditse mi ibara ry'umweru avuga ati: "Tangira urugendo rwawe nawe uyitwarira."